Mu tubari twinshi usangayo ibinyobwa bitanduknye ku buryo uhangannye utahasanga ikinyobwa cyose waba wifuza yaba igisembuye cyangwa ikidasembuye, byose urabihasanga kandi bakunze kuba bategura n'ibiribwa by'ubwoko bwinshi.

Utubari two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga, aho ushobora kuba wasohokana abawe ndetse mukaba mwagira ibihe byiza, ushobora kuba wabagana bakaguhereza serivise nziza kuko ushobora kuba wasuka inzoga mu birahure byiza, baba bafite ibirahure bigiye bitandukanye.

Utubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda, turushijeho kuba dutanga serivisi neza; aho usanga umuturage ashobora kuba yagura ikinyobwa akikinywera ahantu hatuje, hari intebe zikoze neza.

Ahantu henshi mu maduka acuruza ibiribwa uhasanga urupapuro turiho ibiribwa bitandukanye bitondetse ku murongo

Hari udupapuro twagenewe abakiriya bagana ahantu hanyuranye bitewe n'ibyo bacuruza, usangaho ibicuruzwa byabo byaba ibiribwa cyangwa ibindi bintu byinshi, ku giciro cyangwa ubwoko bw'ibyo ukeneye; usanga hariho ibicuruzwa byabo n'amafaranga y'igiciro babicuruzaho.

Urubyiruko n'abandi benshi bakunze gusohokera ahazwi nk'utubari, bacuruza ibinyobwa yaba ibikorerwa mu Rwanda cyangwa mu mahanga aho usanga mu masaha y'ijoro hari abantu benshi batandukanye yaba abanyamahanga cyangwa abanyarwanda bishimye basangira banywa kandi bafungura.

Aho uzasanga ibyapa by'ibinyobwa bitandukanye yaba henikeni n'ibindi byinshi, bikunze kuba ahari utubari cyangwa ahamamarizwa ububari cyangwa ibinyobwa bitandukanye, aho ushobora kuhasanga ahantu wasohokera n'inshuti zawe n'abavandimwe gihe mukeneye gusabana.

Utubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda twabazaniye ikinyobwa kiryoshye ku buryo umuturage wo mu Rwanda ashobora kuba yakinywaho akizihirwa aricyo bita henikeni. Mu tubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda ushobora kuba icyo kinyobwa wakihasanga bityo ukaryoherwa n'abawe.

Bahamas ni akabari gatuye i Remera. Aho usanga buri muturage utuye mu Rwanda ashobora kuba yagenda akahiyakirira. Byanga bikunze bafite ibintu bigiye bitandukanye, aho usanga bafite ibiribwa, ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, aho buri wese ashobora kuba yasohokera n'umuryango we, bityo bigatuma bishima.

Hakomeje gutera ibere bitewe n'utubari tuba turi muri ako karere, i Kigali aho usanga buri muturage cyangwa buri mutura Rwanda ashobora kuba yasohokana abe bitewe n'ukuntu utwo tubari tuba twubatse biteye ubwuzu.

Kimwe mu kinyobwa gikorerwa cyangwa gitunganyirizwa mu Rwanda aho usanga icyo cyapa uri kubona aho imbere tugisanga ahantu henshi hari utubari, icyo cyapa kizakubwira ahantu hari akabari.

Aka kabari karimo ibinyobwa byinshi bigiye bitandukanye aho usanga bikunzwe gukunda n'abantu bakuru aribyo bita likeri, izo likeri ziri mu byiciro bigiye bitandukanye aho haba harimo iziba zikaze n'iziba ziri kukigero gitoya zidasindisha cyane hakaba harimo n'izisindisha cyane.

Mu Rwanda hari utubari tu dutandukanye twinshi, utubari mu Rwanda dukomeje gutera imbere, bitewe na serivisi nziza tugenda dutanga, aha ngaha hariya intebe nziza abaturage bashobora kuba bakwicaramo, ushobora kuba wasohokana n'abawe ndetse mukahagirira ibihe byiza kuko baba bafite ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga bitewe n'uburyo twubatse. Ni joro ushobora kuhasohokera n'abawe bitewe n'amatara ushobora gusanga bayakije ushobora kugirango n'iburayi, aho ngaho nti twasiba kuvuga ko aho hantu haba hasa neza kuburyo wahanywera icyo kunywa cyawe ndetse n'umuryango wawe ndetse n'abawe.

Utubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda twabazaniye amakara manini aho ushobora kuba waharebera umupira w'amaguru. Ushobora kuba wahasohokera n'abawe mu kaba mwatumiza ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

Utubari tugiye dutandukanye mu Rwanda twabazaniye uburyo bushyashya, aho usanga umucuruzi w'inzoga ashobora kuzana ibyo bakunze kwita ekara, akaba bakwerekana imipira bityo bigakurura abakiliya benshi.

Utubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda, dukomeje gutera imbere bitewe n'uburyo twubatse, amatara acanwa ni mugoroba ateye ubwuzu, ushobora kuba wahasohoka, ukahasohokera ndetse n'abawe kuko baba bafite ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Amusiteri ni kimwe mu kinyobwa kiryohera Abanyarwanda aho usanga abagore, abantu bakuru ndetse n'abahungu bashobora kuba bakinywa icyo kinyobwa kuko gitanga umunezero. Icyo kinyobwa ushobora kuba wagisanga mu tubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda

Abashoramari mu tubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda bazanye uburyo bushyashya bwo kuba bakereka amashusho abantu bari kunywa bityo bikaryohera abakiriya kuku baba baje kureba imipira ibyo bita bakunze kwita mace. Aho usanga umuturage ashobora kuba yaza akareba mace ari no kunywa ikinyobwa ke bigatuma yizihirwa.

Utubari twateye imbere two mu rwanda, ukunze kubahasanga agakayi kanditseho amafaranga ndetse n'ibinyobwa bafite muri ako kabari, bityo bifasha umuntu uje gukonsoma cyangwa uje kugura ibyo binyobwa kuba yasobanukirwa ibiciro biri muri iyo nzoga zo muri ako kabari.

Fuza ku isonga aho ushobora kubasohokera ndetse n'abawe mukaba mwagiriye ibyiza ushobora kubahatana inzoga ukahasanga ibihembuye n'ibidasembuye.

Utubari two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga, aho ushobora kuba wabasanga ahantu hagiye hatandukanye, Skol ni kimwe mu kinyobwa ushobora kuba wasanga mu tubari twose two mu Rwanda, aho ushobora kuba wagisangira n'abawe mukaba mwagirana ibihe byiza.

Utubari two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga aho dusigaye dutanga serivise neza, ushobora kuba wahasohokera ndetse ukahasohokera n'abawe mukaba mwagira ibihe byiza, icyo gihe ushobora kuba wahasanga inzoga zigiye zitandukanye harimo likeri harimo n'iza rufuro.

Ububari bwo mu Rwanda bwazanye uburyo bushyashya bwo kuba umuturage ashobora kuba yakwinjira muri ako kabari agahabwa serivise neza aho usanga ashobora kuba yakwishyura nyuma cyangwa akishyura mbere mu buryo bumworoheye.

Mu masaha ya n' ijoro niho utubari dukunze gucuruza cyane aho usanga abanyamahanga, abanyarwanda n' abandi bantu benshi batugana bakeneye kuruka basabana n' inshuti zabo basangira agacupa ka n' ijoro n' ibiribwa bitandukanye nyuma bakajya kuruhuka biteguye ejo kujya kukazi neza.

Hari utwapa dukunze kuba turi muri parasitike cyangwa dukoze mu mpapuro, tuba turiho ibicuruzwa bitewe n'aho bicururizwa, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa n'ibiciro byabyo, ku buryo umukiliya uhagannye ashobora kureberaho ibyo yifuza akaba yabigura ku giciro cyiza kimunyuze bitewe n'ibyo yahisemo.

Mu Rwanda dukomeje kuza kw'isonga bitewe nibyo kunywa tuba dufite. Tuba dufite ibyo kunywa bihenze, ibiri hasi ndetse n'ibikaze. Aho ntitwasiba kuvuga ko; nta mwana ukwiye kunywa ibyo byo kunywa utujuje imyaka cumi n'umunani.

Utubari tugiye dutandukanye mu Rwanda turushijeho gutanga serivise neza. Dukomeje gutera imbere, aho usanga barabazaniye ubundi buryo bwo kuba bareba ama mace cyangwa ibyo bikunze kwitwa imipira. Umucuruzi ashobora kwerekana nka mace bityo bigakurura abakiriya benshi bakaza bagakonsoma amafaranga menshi kuko baba bakurikiye iyo mipira.

Two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga bitewe n'uko tuba twubatse. Ushobora kuba watugana ugahabwa serivise nziza aho usanga berekana n'umupira w'amaguru ukunzwe n'abantu benshi cyane.

Utubari two murwanda dukomeje kuza ku isonga ,bitewe na serivise nziza batanga aho ntitwasiba kuvugako baba bafite ibyo kunywa by'umwimerere , aho ushobora kuhasanga ibyo kunywa biba bikaze, ibyo kunywa biba bidakaze, ushobora kuba wabigura kugiciro cyiza.

Utubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda, ushobora kuba wasohokana ukahasohokera ndetse uri kumwe n'abawe. Ushobora kuba wahasanga ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo fanta n'ibisembuye. Ibisembuye ushobora gusangamo mitsingi, amusiteli n'izindi zi.

Aho usanga ikinyobwa gikuzwe nabantu benshi batuye urwanda aho usanga umuturage ashobora kuba yakibona ahantu hagiye hatandukanye mutubari bigiye butandukanye kuko iki kinyobwa gikuzwe n'abantu benshi.

Igiti kinini cy'ururabyo giteye aha cyonyine mu itaka gusa hakurya yacyo hakaba hari ibyatsi bigufi byiza, umuntu uhagaze imbere y'ameza y'umweru akoze mu cyuma ari gusukwamo, ateretseho igikombe kinini bari gusukamo amata bakoresheje indobo y'umutuku, ayo meza ateretseho kandi akadomoro gatoya k'umuhondo, inzu ifite idirishya rinini rikoze mu cyuma ndetse rifite ibirahure byinshi.

Hari udupapuro cyangwa utundi tuntu tunyuranye dukunze kuba turi ahacururizwa ibiribwa turiho ubwoko bw'ibiribwa cyangwa ibinyobwa n'ibiciro byayo bino bifasha abakiriya babagana kuba bahitamo ibyo bakeneye bibanogeye ku igiciro cyiza.

U Rwanda rukomeje kuza ku isonga bitewe n'ibinyobwa biri muri icyo gihugu. Ushobora kuba wahasanga ikinyobwa bita virunga, ushobora kuba wakigura kuko virunga ni inzoga iryoheye abantu batari bakeya. Ushobora kuba wayisanga mu tubari tugiye dutandukanye.

Utubari two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga bitewe na serivise nziza turi gutanga. Aho ntitwasiba kuvuga ko iyo uhasohokeye n'abawe ku mugoroba haba hameze neza, hasa neza, bitewe n'uko utwo tubari tuba duteguye.

Urubyiruko n'abantu benshi bazwi nk'abakorera amafaranga, bakunze gusohokera (mu minsi y'ibiruhuko nko ku Cyumweru cyangwa ku wa Gatandatu cyangwa nyuma y'akazi)' bakunze kujya gusabana nk'incuti ahazwi cyane nko mu tubari.

Utubari two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga bitewe nuko haba hasa, abaturage bashobora kuba bahasohokera bitewe nukuntu amatara yaho aba yaka neza bigatuma abantu bashobora kuba bahasohokera ku bwinshi kuko haba hari ibyo kunkwa bwiza hanasa neza koko

Utubari two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga, bitewe n'uko ushobora kuba wabagana, ugahabwa serivise nziza. Aho hantu ushobora kuba wahasohokera n'abawe kuko baha hatatse neza, heteye ubwuzu kandi.

Utubari two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga aho ushobora kuba wasohokana abawe mukaba mwagenda mukahagirira ibihe byiza. Ushobora kuba wagenda ukagura n'ikinyobwa bita sikoro, sikoro ni kimwe mu kinyobwa kiryohera abatari bake mu Rwanda ushobora kuba wadusanga ahantu hose mu tubari.

Utubari two mu igihugu cy'u Rwanda dukomeje gutera imbere aho usanga tuba dufite aho bakirira abakiriya hateye ubwuzu, muri utwo tubari hakunze kuba harangwamo intebe ndende aho usanga umuturage ashobora kuba yaza akahanywera ikinyobwa cye bityo bigatuma agira ubwuza, ndetse akaba yahasohokana n'abe.

Bahamas ni akabari kari iremera, aho usanga abantu bakuru ni abana bashobora kuba bahasohokera kumugoroba. Akenshi ukunda kuhasanga nibyo kurya, harimo inyama za umwimerere zimeze neza bakunze kwita burushete.

Virunga ikinyobwa gishyashya gitegurwa nuruganda rwa sikoro rufite ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye, igiheruka gusohoka vuba kitwa "virunga silver" abanyarwanda benshi murino minsi bakunze kwizimanira basohokeye mutubari.

Utubari tugiye dutangaje two mu Rwanda dukomeje kugenda dutera imbere bitewe nuko twubatse, aho usanga tuba twuzuyemo amatara ateye ubwuzu, baba bafite ibinyobwa bigiye bitandukanye, ushobora kuba wahasokera ukahagirira ibihe byiza.

Utubari two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga bitewe n'ukuntu tuba twubatse, aho ushobora kuhasanga amatara atatse mu buryo buteye ubwuzu. Ushobora kuba wahasohokera n'abawe ndetse ukaharira ubuzima. Aho uhasanga ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Tugiye dutandukanye two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga bitewe no kuba dutanga serivisi nziza, aho ntitwasiba kuvuga ko dufite abakozi beza bashobora kuba bakwakirana ubwuzu, dufite ibirahure byiza, ibyo kunywa byiza, ibisembuye n'ibidasembuye, n'ahantu ho kwicara hateye ubwuzu.

Akabari kazamo abantu batandukanye bagiye gufata agacupa n'ibindi bitandukanye bakunze kuhagana mu gihe k'ibiruhuko cyangwa igihe bishimanye n'abagenzi babo bakeneye gusohoka bagasabana mu buryo bwinshi bunyuranye.

Aho waba uri hose mu gihugu usanga ibyapa byamamaza utubari n'ibinyobwa bitandukanye bitegurwa n'uruganda rwa burarirwa, nk'ikinyobwa gikunzwe n'abanyarwanda kizwi ku izina rya amusiteri n'ibindi byinshi bitandukanye. Ahazakubwira ahari akabari uzahasanga icyapa cy'ikinyobwa kinyuranye.

Amaduka cyangwa utubari tunyuranye usangamo uburyo bashyizeho aho ushobora kureba ibicuruzwa byabo ukoresheje ikoranabuhanga icyo ukora nugufotora kurako gapapuro ukaba wabona ibiciro nibicuruzwa bafite yaba ibyo ukeneye cyangwa ibyinshi binyuranye byose ubisangaho.

Amaduka menshi acuruza ibijyanye n'ibiribwa cyangwa ibinyobwa, usanga hari udupapuro bakiriza abakiliya ba bo bakibagana, tuba turiho ubwoko bw'ibiribwa n'ibinyobwa n'ibiciro byabyo, bino bikaba bifasha abakiliya, kuba bareba ibyo bakeneye niba bihari kugiciro kiza cyangwa niba bidahari.

Hari inzobere mu gutegura ibinyobwa bikunzwe n'abanyarwanda benshi n'abanyamahanga, bakunze kwita aba barisita bavanga ibinyobwa bitandukanye nkuko waba ubyifuza, bakaba bagutegurira ikinyobwa gikunzwe kandi kiryoshye, cyujuje ubuziranenge, kiryoheye umunwa pe!

Utubari two mu rwanda turushijeho gutanga serivise neza aho usanga, buri muturage ashobora kuba yagenda agakosoma ibinyobwa bigiye bitandukanye, bitewe n'ubushobozi afite akishyura akurikije kuri iyo karine, kuko iba iriho ibiciro by'izo nzoga bafite muri ako kabari.

Utubari tw'i Kigali dukungaye mu gutanga ibinyobwa bigiye bitandukanye. Ibisembuye, ibidasembuye, aho usanga bashobra kuba baba bagufitiye amarikeri agiye akomeye n'ari hasi. Bitewe n'igiciro cy'amafaranga umukiriya ashobora kuba yazana, ahabwa ikinyobwa kimukwiriye ugendeye ku mafaranga afite.

Ariko mu rwanda dukomeje kuza ku isonga bitewe n'uko tuba dufite amarikeri aba ari hejuru, ushobora kuba wagenda ukaba wayagura ukaba wahasohokanira abawe, ukaba mwakwizihirwa.

Utubari tugiye dutandukanye two mu rwanda, babazaniye ibinyobwa bigiye bitandukanye aho ushobora kuba wagura ikinyobwa bita amusiteri , amusiteri n'ikinyobwa gikunzwe n'abantu benshi abagabo, abagore, ndetse n'abahungu.

Haruburyo bw'ikoranabuhanga bwashyizweho aho ushobora kwishyura umucuruzi ukoresheje ikarita yawe ya banki, icyo ukora nukuyishyira kwako kuma ugashyiramo umubare w'amafaranga ukeneye kuba wakwishyura ugashyiramo umubare wibanga ukaba wakwishyura kuri nimero z'umucuruzi.

Ahakunzwe gusohokerwa n'abanyamahanga, abanyarwanda n'abandi benshi bari mu gihugu aho usanga basabana, banywa kandi bafungura usanga hari abakozi benshi bashinzwe kwita ku bakiriya babaganye hakunzwe kuba hazwi nko mu tubari.

Utubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda aho usanga abashoramari bashobora kuba bafungura nk'akabari. Ugasanga bafite ibinyobwa bigiye bitandukanye, ibikaze, ibiri hasi n'ibiri mu rugero. Aho usanga umuturage ashobora kuba yagura ikinyobwa bitewe n'amafaranga afite bityo bikamufasha kwizihirwa.

Utubari two mu Rwanda dukomeje kugenda tuza ku isonga bitewe n'uburyo utwo tubari dutangamo serivise. Aho nitwasiba kuba twavuga ko utubari twinshi dukungahaye kubinyobwa, bakunze kwita Mtz;Skol n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye, umuturarwanada ashobora kuba yabigura akabinywa akizihirwa.

Umukozi wa MTN wambaye umupira w'umweru ndetse n'umuhondo uri mu birango bya MTN, aho ari umuzungu ndetse imbere yaho hahagaze undi muzungu uri gukora mu gaseke afite.

Atarasi resito bare ni akabari kamwe gakorera mu Rwanda aho usanga ushobora kuba watumiza icyo kurya, icyo kunywa bityo ukabirira ndetse n'umuryango wawe.

Utubari turi kuza ku isonga bitewe n'ukuntu twubatse ushobora kuhasanga amatara y'umwimerere, aho ushobora kuba wakwicara ahantu heza bityo ukareba n'umupira w'amaguru, ukaba wahasohokera n'abawe mukaba mwahagirira ibihe byiza.

Mu tubari twinshi ahacururizwa ibinyobwa binyuranye usangayo ibirahure biri mu ngano zitandukanye bitewe nkuko ubyifuza hari ibirahure binini, ibiringaniye n'ibitoya bakunze kunyweramo inzoga zikomeye nibindi byinshi binyuranye.

Dutandukanye two mu Rwanda barushijeho gutanga serivisi neza. Aho usanga utubari twinshi dukungahaye ku binyobwa bakunze kwita likeri aho usanga buri muturage ashobora kuba yagura icyo kinyobwa ndetse akakizihirwa ndetse n'abe.

Utubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga bitewe n'uburyo utwo tubari twubatse, dutatse, utwo tubari ushobora kuba wadusohokeramo n'abawe kubera ukuntu utwo tubari twubatse neza. Ushobora kuba wahagirira ibihe byiza.

Utubari twinshi ducuruza ibinyobwa binyuranye, bakunze kugenera abakiriya babo ibirahure bashobora kunyweramo mu ngano zitandukanye, waba wifuza ikinini, igitoya, cyangwa ikiringaniye, cyose barakiguha, nko guha serivisi nziza abakiriya babagana.

Tugiye dutandukanye two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga bitewe na serivise nziza turi gutanga. Aho ntitwasiba kuvuga ko tuba dufite ahantu hafite amahumbezi ushobora kuba wasohokera n'abawe, mukaba mwanywa ibisembuye n'ibidasembuye.

Utubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda ushobora kuba wasohokana ugasohokana abawe bityo mu kaba mwahagirira ibihe byiza kuko batanga serivise nziza, aho hantu ushobora kuba wahasanga ibiribwa, ibinyobwa biteye ubwuzu.

Dutandukanye two mu Rwanda babazaniye amatara ashobora kuba yacanirwa hamwe hakunze kwitwa ngo ni mu tubari. Aho usanga buri muturage ashobora kuba yakwinjira aje gusohoka kunywa ibyo biribwa n'ibinyobwa, bityo bigatuma ahagirira ibihe byiza.

Utubari two mu Rwanda dukomeje kugenda tuza ku isonga bitewe n'ibyo kunywa rugiye rufite aho, ni twasibakuvuga ko utubari twinshi twibanze kuma rikeri icyo kunkwa gikaze ushobora kuba wabona rikeri y'amafaranga makeya, iya mafaranga menshi bitewe n'amafaranga ufite mu mufuka.

Utubari two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga bitewe n'uburyo twubatse aho nitwasiba kuvuga ko utwo tubari ushobora kuba wadusura ugasanga duteguye neza aho ushobora kuba wahabwa ikinyobwa cyawe ukakinywana ubwuzu.

Cyanecyane mu masaha ya ni joro niho ububari bukunze kugira abakiriya, kuko aribwo abantu benshi baba bavuye mu kazi bakeneye kuruhuka no gusabana ni nshuti zabo, abantu benshi bakunze kuhagana mu ntangiriro z'ukwezi barahembwe agafaranga kabonetse.

Aka ni akabari kicayemo abagabo batatu, ku itabure ya mitsingi hariho amacupa ya sikolu, aya mitsingi, aya amusiteri, n'icupa ry'amazi inyuma yaho hakaba hari umugabo uhagaze kuri kontwari.

Utubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda, uzatwibwira aho usanga tugiye dufite ibyapa hanze yatwo, aho usanga tuba dushushanyijeho bimwe mu binyobwa bikunzwe n'abantu batari bakeya.

Utubari two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga, aho ushobora kuba wahasohokera ndetse n'abawe mukaba mwahagirira ibihe byiza. Ushobora kuba wagenda ukagura inzoga zigiye zitandukanye haba harimo rikeri harimo n'izo bagiye bakunda kwita rufuro.

Utubari two mu Rwanda tumaze gutera imbere aho ushobora kuhasanga imibare y'abacuruzi ishobora kuba wakishyurira umucuruzi. Ushobora kuba wamwishyura wakanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na karindwi, akanyenyeri karindwi, akanyenyeri karindwi, urwego.

Ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye hakunze kuba hacururizwa n'ibiribwa ibyo uba wifuza byose urabihasanga ku giciro kiza bitewe n'aho wasohokeye. Hari aho usanga bicururizwa ku giciro kinini hari n'aho usanga babicuruza makeya bitewe n'agace n'aho wasohokeye.

Amstel ni kimwe mu kinyobwa abaturarwanda bashobora kuba basohoka bakakinywa. Icyo kinyobwa gikunzwe n'abantu batari bakeya abagore, abagabo ndetse n'abahungu. Izo nzoga ushobora kuba wazisanga mu tubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda.

Utubari two mu Rwanda dukomeje kugenda dutera imbere, bitewe n'ubwuzu twakirana abakiriya, aho ntitwasiba kuvuga ko, muri utwo tubari iyo bigeze ku mugoroba berekana umupira w'amaguru, umupira w'amaguru ukunzwe n'abantu benshi, bityo bikaba bikurura abakiriya.

Aba bizinesimani bo mu Rwanda barushijeho kuzana utuntu dushya tugiye tunyuranye; aho usanga utubari two mu Rwanda baba berekana ibyo bita mace cyangwa umupira, aho usanga umukiriya ashobora kuba yaza kureba iyo mace bityo bigatuma n'umugurisha w'izo nzoga abyungukiramo kuko umukiriya aba ari kureba mace ananywa n'inzoga.

Utubari dukomeje kugenda tuza ku isonga mu Rwanda bitewe n'uburyo dutanga servisi neza. Aho ntitwasiba kuvuga ko utubari twinshi dufite ahantu hanze banywera inzoga, ndetse umuntu ashobora kuba yagura ikinyobwa cye akakinywera mu mutaka ari kumva n'amahumbezi; bityo ushobora kuba wahasohokera n'umuryango wawe.

Mu Rwanda hari utubari twinshi dukomeje kuza kw'isonga bitewe na serivise turimo turatanga. Aho ntitwasiba kuvuga ko bakwakirana ubwuzu, ukahasanga bimwe mu ndabyo zishobora kuba zihatatse, bityo aho hantu ni heza , kuburyo ushobora kuba wahasohokana nabawe mukaba mwanywa ibinyobwa bigiye bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye.

Utubari mu Rwanda dukomeje kugenda dutera imbere bitewe n'ibyapa tuba dufite ku muhanda. Turiho ibyo kunywa bigiye bitandukanye. Ako kanya umuturage iyo abonye icyo cyapa ahita yibwira ko aho hafi hari akabari.

Abafite utubari two mu Rwanda bakomeje kuza ku isonga, kubera ukuntu bafite abahanga mu gutunganya ibinyobwa bakunze kwitwa kokiteli; aho usanga bavanga ibinyobwa birenze bibiri bityo bigakora ikinyobwa kimwe, aho umuguzi ashobora kuba yacyishimira.

Mu tubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda aho usanga abaturage bashobora kuba bahabwa serivise neza, ushobora kwinjira mu kabari kameze neza, aho usanga gatatse indabo ziteye ubwuzu bityo bigatuma umukiriya ashobora kuba yahagirira ibihe byiza kuko aho hantu haba hasa neza.

Utubari two mu Rwanda dukomeje kuza kwisonga aho ushobora kuba wasohokera ndetse n'abawe mukaba mwagira ibihe byiza ushobora kuba wabegera bakaguha serivise nziza kuko baba bafite ibinyobwa bisembuye ibidasembuye ndetse n'amazi.

Mitsingi, amusiteli ni bimwe mu binyobwa abaturarwanda bashobora kuba bakunda, ibyo binyobwa uzabisanga mu tubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda, ibyo binyobwa bikundwa n'abantu batari bakeya.

Dutandukanye two mu Rwanda turushijeho gutanga serivise neza, aho usanga utubari twinshi twateye imbere tuba dukungahaye ku binyobwa. Aho usanga baba bafite ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo, mitsingi, turubo, ndetse n'ibindi.

Utubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda, dukomeje kuza ku isonga bitewe n'uburyo inzoga ziba zipanze mu kabati, ndetse n'amatara aba abizengurutse ku buryo biteye ubwuzu. Umuturage ashobora kuba yaza akagura inzoga ndetse akahagirira ibihe byiza.

Utubari two mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga, aho ushobora kuba wahasohokanira abawe mukaba mwagira ibihe byiza, ushobora kuba wahasanga inzoga zigiye zitandukanye, harimo izo bakunze kwita rikeri, inzoga za rufuro ndetse n'izindi, ushobora kuba wabasura bakaba baguha serivisi neza.

Utu bari two mu Rwanda dukomeje gutera imbere bitewe n'uko twubatse, uko dutatse bitewe n'uko biryoheye ijisho ry'umunyarwanda. Aho ushobora kuba wasohokana abawe bityo mukaba mwahagirira ibihe byiza haba hari ibinyobwa bigiye bitandukanye ibisembuye nib'idasembuye.

Tugiye dutandukanye two mu Rwanda turushijeho kuba twataka ibinyobwa mu buryo buteye ubwuzu. Aho usanga cyangwa aho winjira mu tubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda duteye imbere usanga tuba dutatse neza. Kuburyo umuntu ushobora kuba yagura ikinyobwa ashobora kuba yakinywa afite ubwuzu.

Utubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda dukungahaye ku biribwa aho usanga buri muturage ashobora kuba yakonsoma bimwe bakunze kwita burusheti, ni inyama ziba ziri ku biti zishobora kuba zahabwa n'umukiriya mu gihe ategereje icyo kunywa cyangwa ari kwizihirwa icyo kunywa cye.

Utubari tugiye dutandukanye twateye imbere, aho ntabwo uzahasanga umuntu uzakwakira ngo akubaze icyo ushaka, aho uzasanga icyo bakunze kwita QR code. Iyo QR code ushobora kuba waza ukazana terefone yawe ngendanwa ukaba wa sikaninga, ukaba wabona ibyo bafite muri ako kabari, ndetse ukaba wabitumiza.

Inyange miriki zone ni imwe mu makusanyirizo abarizwa mu Rwanda aho ushobora kuba wabagana bakaguha amata y'umwimerere apfunyitse neza mu kabido ushobora kuba wakenera amazi y'Inyange naho urayahasanga.

Ahantu henshi hacururizwa amata hakunze kuba hari n'ibicupa cyangwa amajerekani acururizwamo amazi kuko hakunze gutangwa serivise zitandukanye yaba gucururiza amata cyangwa amazi n'ibindi byinshi bikomoka ku mata.

Inshuti cyangwa abanyeshuri bakunze kuba bakorera hamwe cyangwa biga hamwe bakunze gusohokera ahacururizwa amata bagamije gusangira ibya saa sita cyangwa ibya n'imugoroba, aho baka amata mu birahuri bitandukanye n'ibiribwa bikozwe mu mafarini.

Udutambaro tw'isuku dufunze mu gasashe gacitse. Turambitse mu gatebo ka parasitike gateretse ku meza y'urubaho, mu nzu y'ubucuruzi.

Inyange mirike zone ni rumwe ruganda rushinzwe gutunganya amata, aho usanga bagukorera ibintu bikomoka kumata nibijyanye n'amata. Aho hose ushobora kuhasanga mu makarito agiye atandukanye, aho ushobora kuhasanga n'ibyo kuyafatisha , harimo amakeke ,imigati n'ibindi,...

Rumwe mu ruganda rukungahaye cyangwa rutanga serivise zitandukanye aho ushobora kuba wahabwa ikinyobwa cy'inyange. Bishobora kuza mu ducupa tunini n'udutoya cyangwa udukarito, aho usanga ushobora kuba wahabwa amata, amazi na ji.

Amazu agiye atandukanye y'amata, ukunze kuhasanga ibyo kurya bigiye bitandukanye bikozwe mu mafarini, ushobora kuba babinywesha amata, harimo amandazi ndetse n' ibindi biba bikoze mu ifarini.

Uruganda rukora ndetse rukaba rwatanga serivise ku bijyanye n'amata n'ibikomoka ku mata, aho usanga buri muturage ashobora kuba yagura cyangwa akagurisha amata mu buryo bugiye bumworoheye.

Ahantu henshi hacururizwa amata cyangwa ibikomoka ku mata, ukunze kuhasanga ibiribwa bikorwa mu mafarini bitandukanye, yaba capati, amandazi, ibiraha na amasambusa na ibindi byinshi, urabihasanga kugiciro cyiza.

aho ushobora kugana ukeneye ibinyobwa mu ma kantine yaba amata, ikivuguto, icyayi nibindi bitandukanye ushobora kuhasanga ibiribwa bikorwa mu mafarini binyuranye yaba amacapati, amandazi, keke nibindi byinshi.

Inyange miriki zone ni rumwe mu ruganda rukora amata n'ibijyanye n'amata, aho ushobora kuba wagana amaduka agiye akorera mu mihanda igiye itandukanye. Ushobora kuba wabegera bakaguha amata kuko baba bafite amata yizewe kandi afite intungamubiri.

Hamwe na hamwe ku makusanyirizo y'amata ushobora kuba wagenda ukahasanga ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo inyange, amazi yo kunywa, ndetse n'inshyushyu, ukashobora kuba wahasanga n'ikivuguto. Aho umukiliya ashobora kuba yaza agahabwa serivise zigiye zitandukanye.

Ni rumwe mu ruganda rushinzwe gutunganya ibintu byakuwe ku mata, bikungahaye ku mata, aho usanga buri muturarwanda ashobora kuba yahabwa amata agiye atandukanye bitewe n'ingano akeneye.

Mu Rwanda hari ibikusanyirizo by'amata aho usanga buri muturage ashobora kuba yagura amata mu buryo bumworoheye kuko hagenewe ibicuba byabugenewe byo kubikwamo amata bityo bigatuma ayo mata atangirika.

Mu makusanyirizo agiye atandukanye, ntitwasiba kuvuga ko bayatwegereje amata. Aho tuhasnga ibicuba byabugenewe mu kubika amata, aho ushobora kuba waza ukagura amata ukeneye, bakaba bayagupfunyikira, ukaba wayatahana.

Amajwi atandukanye ushobora kuyasanga mu makusanyirizo agiye atandukanye aho ushobora kuba wahabwa serivisi nziza, uhabwa amata y'umwimerere ushobora kuyituma ako kanya hanyuma ntitwasiba kuvuga ko ushobora kuyagura ku giciro cyiza.

Uruganda rw'i Nyanza rutegura amata y'inshyushyu, rukaba ruzwi kandi mu gutegura amata no gutunganya amata y'ikivuguto; akunzwe n'Abanyarwanda benshi. Aho waba uri hose mu gihugu ushobora gusanga amaduka yabo ahora afunguye, ukaba wasanga ibyo waba wifuza byose bikorerwa muri urwo ruganda.

Dayari porodagite shopu aho ngaho hakunze kuba hari amata n'ibikomoka ku mata. ntitwasiba kuvuga ko haba hari ibyo kurya bikungahaye ku ifarini bitanga intungamubiri zigiye zitandukanye, aho tuhasanga ama keke, imigati n'amandazi ndetse n'ibindi biribwa bikozwe mu ifarini.

Ibiribwa bikozwe mu ifarini cyane cyane bizwi nka keke, ba bantu bacuruza amata n'ibikomoka ku mata bakunze kugenera abakiriya babo bakaba babisomeza ayo mata kugirango bumve bameze neza kandi bahave bahaze.

Amaduka menshi acuruza amata nibikomoka kumata uhasanga ibinyobwa binyuranye bigiye bikorwa mumata yinshyushyu yaba ikivuguto nibindi bitungankwa bashyizemo imbuto n'amata bikunze kwitwa ama yahurute.

Mu maduka atandukanye y'amata ushobora kuba wahasanga ibinyobwa bigiye bitandukanye bikungahaye ku ntungamubiri zishobora kuba zafasha umubiri w'umuntu aho ushobora kuba wabagana ugahabwa serivise nziza ndetse ukaba wahabwa amata y'umwimerere.

Ahacururizwa amata uhasanga ibiribwa bitandukanye bikozwe mu mafarini yaba amandazi, amacapati n'amasambuza kandi amata bayaguha mu ngano wifuza yaba mu gikombe gito ikirahure kinini ikiringaniye nibindi byose waba wifuza barabigupimira ku ngano ukeneye.

Abantu benshi yaba urubyiruko cyangwa abana batoya bakunze ibiribwa bikoze mu ifarini n'ibirayi bukunze kitwa ibiraha, bikunzwe gucururiza ahantu hatandukanye mu gihugu, ku mihanda, bikunzwe gucuruzwa mu masaha ya nimugoroba aho usanga abantu benshi bari ku biteka ku mihanda babigura ku bwinshi.

Amakusanyirizo y'amata agiye atandukanye yo mu Rwanda aho usanga barabazaniye ibyuma bigiye bitandukanye byakorewe mu kuba byabika amata no kuba byayakonjesha. Aho usanga umuturage wo mu Rwanda ashobora kuba yahabwa amata y'umwimerere.

Inyange ni ikigo gikora ibijyanye n'amata, n'ibikomoka ku mata. Aho usanga gikomeje kuza ku isonga kubera gutunganya amata neza, bityo bigatuma abaturage batuye mu Rwanda bakunda serivise zijyanye n'inyange, kuko rukora amata y'umwimerere.

Uruganda rukunze kura rifite uburyo bupakiye ibicuruzwa byabo, yaba mu makarito, cyangwa ibindi bintu bashobora kubitwaramo, aho usanga bipanzemo mu buryo biteye ubwuzu, nk'amayahurute, imitobe, n'ibindi byinshi usanga bipakiye mu buryo buteye ubwuzu, ku buryo bishobora gukurura umukiriya akaba yabigura.

Inyange ni rumwe mu ruganda rutuntanya ibinyobwa aho usanga bakora, cyangwa batunganya binyobwa bikomoka ku mata, aho usanga ayo mata aba akungahaye kuri vitamini aho usanga aba ateguye neza ashobora guhita anywebwa kandi yujuje ubuziranenge.

Amagi menshi ari mu bikoresho byabugenewe, biri mu ibara ry'icyatsi. Ateretse ku meza. Iruhande rwaho hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku, uriho amabara y'umukara.

Ku amakusanyirizo agiye atandukanye yo mu Rwanda, aho usanga baba bafite amata ameze neza, ukahasanga izindi ji zikungahaye ku imbuto, aho usanga batanga serivisi neza. Ushobora kuba waza ukahagura igikombe cy'amata, cyangwa ukahagura amazi, ji, uducupa twa ineriji n'ibindi bigiye bitandukanye by'ibinyobwa, bifasha umuntu mu buzima bwa buri munsi.

Ikusanyirizo ry'ibyo kunywa, aho ntitwasiba kuvuga ko ushobora kuba wahasanga ibyo kunywa bigiye bitandukanye, inyange, n'ibindi byose bigiye bitandukanye biri mu ducupa bipfunyitse neza bifite umwimerere.

Ibiribwa bikozwe mu ifarini bikunzwe gucuruzwa ahacururizwa amata, n'ibikomoka ku mata byinshi: yaba icyayi, ikivuguto ni ibindi bitandukanye. Iyo uhageze bakubaza ingano y'amata wifuza, kugiciro waba wifuza.

Amakusanyirizo wageze atandukanye y'amata, ushobora kuba wagenda ukaba wakaka amata ukeneyewe kuko baba bafite amata yizewe, afite intungamubiri, ameze neza. Ushobora kuba wakaka litiro cyangwa litiro zindi ushaka, ukaba wakishyura ku mafaranga makeya kuko ntago aba ahenze.

Ahantu hacuruzwa amata yaba uyakeneye yo kujyana mu rugo, cyangwa ayo kunywa ako kanya babategurira ibiribwa abitandukanye bikoze mu mafarini aho ushobora kubagana ukeneye amata yo kunywa ukaba wagura icyo ushobora kuyasomeza kugira ngo uhave umeze neza mu gihe cy'akazi cyangwa nyuma yaho.

Amazi bakunze kwita isoko ya ubuzima, acururizwa ahantu hatandukanye mu ngeri nyinshi yaba mu ducupa dutoya cyangwa utunini. Amazi akunzwe na abantu benshi yaba abato cyangwa abakuru, akenerwa mu buzima bwa buri munsi niyo mpamvu acururizwa ahantu henshi.

Hari ibicuruzwa bitegurwa n'inganda nyinshi zizwiho gutunganya amata; bikunze kunyobwa: n'abana batoya, abakobwa cyangwa n'abandi bantu benshi, bikunze kwitwa yawurute. Ibi bicuruzwa ubisanga mu maduka menshi, mu marimantasiyo, ku biciro bimwe kandi bidahinduka.

Iy'amata agiye atandukanye ari i Kigali aho usanga baba baragiye begereza serivisi abaturarwanda, aho usanga hari umuturage ashobora kuba yagura amata akeneye litiro akeneye akaba yazihabwa ku buryo bworoshye.

Atandukanye y'inyange miliki zone agiye atandukanye ari mu gihugu, babazaniye uburyo bushyashya bwo kuba buri muturage ashobora kuba yakwaka ingano y'amata akeneye ugereye ku mafaranga afite, aho usanga buri muturage ashobora kuba yahabwa amata ku giciro cyiza.

Ku amakusanyirizo agiye atandukanye y'amata nti twasiba kuvuga ko ushobora kuba wahagera ukagira ingano y'amata ukeneye bitewe n'amafaranga ufite. Aho hantu kuba wabagana bakaguhereza muka jerekani agatoya ,akanini bitewe n'amafaranga ufite.

Ahagiye hatandukanye mu Rwanda dukunze kuhasanga ibyo kunywa amazi agiye atandukanye ya niri(Nil).Amazi afite umwimerere ,amazi ushobora kuba wanywa ukayasangira nabawe .Ayo mazi akungahaye ku ntunga mubiri zigiye zitandukanye zinjira mu mubiri.

Amakusanyirizo agiye atandukanye y'amata, ushobora kuba wahasanga ingano y'amata ukeneye ukaba wayishyura, ushobora kuba wagenda ukahafatira akaruhuko gatoya mbere y'uko usubira mu kazi, ushobora kuba wagenda ukishyura igikombe kimwe ukaba winywera amata yawe.

Abantu benshi cyane cyane abanyeshuri, bakunze kurya ikiribwa kizwi nk'amandazi, ahiye neza bakunze kuba bagura ngo ayisatuye ngo niyo aba aryoshye, mumaduka menshi aho acururizwa bakunze kujyayo babaza ngo ayisatuye.

Hari ibicuba byagenewe gutwarwamo amata ava aho akamwa cyangwa aho bayakura, ajyanwa aho bakunda kuyacuruza. Ibyo bicuba bikunze kuba bikozwe mu cyuma, biri mu ngano ingana, aho bashobora kumenya ingano y'amata baba bagemuye.

Dark shop ni hamwe haba hakungahaye ku binyobwa bikorwa mu mata n'ibikomoka ku mata, aho ngaho ntitwasiba kuvuga ko ushobora kuba wasanga ibiribwa bikoze mu ifarini ushobora kuba wabirisha amata bityo ukahagirira ibihe byiza.

Amakusanyirizo menshi ahacururizwa amata bakunze kugira abakiriya b'abana bakunda kuba batumwe n'ababyeyi babo kuba bajya gukamisha amata, uhasanga n'amazi yo gukoresha mu rugo yo mu macupa manini yaba ayo bashyira ku byuma bavomeraho amazi mu rugo n'ayandi bashobora gukoresha basuka aba ava mu bucupa butandukanye.

Rizo agiye atandukanye y'amata ndetse n'ibikomoka ku mata arushijeho gutanga serivisi neza, aho usanga buri muturage cyangwa umuturarwanda ashobora kuba yakosoma izo serivisi mu buryo bumworoye, ushobora kuba wagura ibinyobwa bikunze kwita yahurute bikomoka ku mata, bikunze gukundwa n'abana bakiri batoya aho usanga ushobora kuba nawe umuntu mukuru ushobora kuba wagura amata y'igishyushyu cyangwa ikivuguto.

Hri firigo irimo agacupa k'amazi akabuni k'amata ijagi n'akandi kajagi gatoya n'agakombe mu nsi hanze yaho hakaba hari ijerekani za jibu.

Mu maresitora menshi atandukanye bakunze gucuruza amata ibiribwa nibindi binyuranye; aho abantu benshi babagana bakeneye ibiribwa n'ibinyobwa binyuranye, yaba ibikomoka ku mata,' imitobe nibindi byinshi bitandukanye.

Incuti cyangwa abantu bakorera hamwe bakunze kugana ahacururizwa amata bakeneye gusangira ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye, akenshi bakunze kwaka amata mungano zitandukanye nkuko babyifuza bakaba bakwaka nibiribwa byo kuyasomeza byose baba bakeneye.

Hari ibyuma byagenewe mu makusanyirizo, haba gutuma haba umwuka mwiza, no gufasha amata yaho kugumana umwimerere, bityo bikayarinda gupfa, ni kuba yateza ibibazo ku bayagura, yaba amaze igihe kinini cyangwa gitoya, uyagura agasanga akimeze neza.

Amakusanyirizo agiye atandukanye y'inyange aho hantu ushobora kuba wasanga ibyinyobwa bigiye bitandukanye, ibiribwa bigiye bitandukanye bikozwe mu mafarini, aho usanga ushobora kuba wagura ikinyobwa ugahabwa n'icyo kurya bityo ukizihirwa.

Mu gihugu cy'u Rwanda, usanga amaduka menshi mu duce dutandukanye tw'igihugu, aho bacuruza amata n'ibikomoka ku mata uhasanga: inshyushyu, ikivuguto n'ibindi bikomoka ku mata bakunze gukora bifashishije imbuto, n'amata bakunze kwita yawurute, bikunze gukundwa n'abana batoya.

Abana benshi cyangwa igitsina gore gikunze kunywa ikinyobwa gikozwe mu mata abantu benshi bazi nka yawurute, kiba gikozwe mu mata n'imbuto zinyuranye, ukibona mu ngano zitandukanye yaba mu dukombe dutoya cyangwa mu ducupa tunini.

Uruganda rw'inyange ruzwi mu gutunganya: amata, amazi n'ibindi byinshi bitandukanye; rufite n'imitobe ikorwa mu mbuto zinyuranye: yaba amacunga, imyembe, amatunda n'ibindi bitandukanye, usanga mu ngero nyinshi yaba muri litiro cyangwa mu ma nusu.

Amakusanyirizo agiye atandukanye y'amata ndetse n'ibikomoka ku mata, aho hantu ukunze kuhasanga ibikoresho ndetse n'ibyo kurya bikomoka ku matungo harimo amagi. Ayo magi akungahaye ku ntungamubiri zimwe na zimwe, zishobora kuba zagirira akamaro umubiri w'umuntu.

Ifoto irimo abagabo babiri harimo uri gutanga akabuni, harimo nugiye kukakira hakaba harimo nibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo Inyange, Novida nibindi.

Mumasoko menshi atandukanye acuruza ibiribwa hakunze kuba harimo n'amata aturuka kunganda zinyuranye ibinyobwa bizwi nkimitobe bikorwa mumbuto zitandukanye nibindi byinshi bitegurwa nk'uruganda yaba ikivuguto, amaforomaje nibindi byinshi.

Ni uruganda rw'Inyange ruzwiho gutegura amata n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye ,rufite amaduka ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu, aho ushobora gusanga amata n'ibikomoka ku mata bigiye bitandukanye. yaba ibiribwa ndetse n'ibinyobwa ,ukaba wahasanga n'ibindi byinshi bikorwa n'uruganda rwi Inyange.

Ahacururizwa amata n'ibindi bitandukanye bikomoka ku mata, uhasanga intebe n'amameza y'abakiriya babagana, bakeneye amata yo kunywa igihe bari kurugendo cyangwa mu gihe cy'ibiruhuko bavuye mukazi bitegura kugasubiramo bameze neza.

Amakusanyirizo agiye atandukanye abarizwa mu Rwanda, ushobora kuba wahasanga ibiribwa bigiye bitandukanye bikoze mu ifarini. Aha ntitwasiba kuvuga isambusa iba ikoze mu ifarini, mu imbere harimo inyama ziseye.

Amaduka menshi acuruza amata n'ibindi byinshi bitegurwa n'uruganda aya mata aturukamo. Uhasanga ibirahure n'ibikombe biri mu ngano zinyuranye. Bitewe n'ikigero umukiriya akeneyemo amata, umusukira mu gikombe kimunyuze, bitewe n'ayo yishyuye.

Ahantu henshi hakinze kuba hanzi nk'ahacuruzwa amata, cyangwa ibindi bikomoka ku mata wasanga ibinyobwa bitandukanye, yaba imitone amayahurute n'ibindi byinshi bitandukanye botegurwa n'uruganda rwashinze iryo duka mu ngano zitandukanye.

.... ry'amata uhasanga ibyuma bigiye bitandukanye, byakorewe kuba byatunganywa amata cyangwa bikabika amata. Aho usanga buri muturage utuye u Rwanda ashobora kuba yahabwa amata, ugendeye ku ngano y'amata akeneye n'amafaranga yatanze.

Y'amata agiye atandukanye ari mu gihugu cy'u Rwanda usanga bafite ubwoko bw'ibicuba batwariramo amata, bayavana ahantu hamwe bayajyana ahandi. Usanga ibyo bicuba byaragenewe gushyirwamo amata, kuburyo bigiye bifite isuku.

Nk'uko mubibona, aha ngaha ni ahacururizwa amata; hari utujerekani dutandukanye turi mu ngano zinyuranye, uko waba uyifuza nk'umukiriya, amata barayagupimira nk'uko uyakeneye, waba ukeneye litiro cyangwa litiro zirindwi hari akajerekani bagushyiriramo, waba ukeneye n'ingano nyinshi bakaba bagupimira mu ijerekani nini.

Amakusanyirizo agiye atandukanye y'amata, uhasanga uburyo bushyashya. Aho usanga buri muturage cyangwa abanyeshuri bagiye batandukanye bashobora kuba bagura amata makeya bigendeye ku mafaranga bagiye bafite atandukanye, ushobaro kuba wagura igikombe kimwe ukaba wakinywa ugashira inyota.

Ku makusanyirizo agiye atandukanye y'amata aho ntitwasiba kuvuga ko hagenewe kuba hatangwa amata agiye atandukanye k'umuntu uyakeneye, aho ngaho tuhasanga ibicuba byabugenewe mu kubika amata.

Ahacururizwa amata cyane cyane ku maduka y'uruganda, uhasanga ubujerekani bwinshi buri mu ngano zimwe bukunze gucururizwamo amata y'ikivuguto cyangwa amayawurute akunzwe n'abana, usanga bicururizwa ku giciro kimwe kandi kinogeye buri muntu uyifuza.

Inganda nyinshi zitegura amata, zikunze gutegura n'ikindi kinyobwa gikunze gukundwa n'abana bita yahurute, gikunze kuba gikozwe mu mata n'imbuto zitandukanye, ushobora kugisanga ahacururizwa amata, ama arimantasiyo atandukanye n'andi maduka menshi, aho uyasanga mu bwoko butandukanye, yaba mu dukombe dutoya, ayo mu tujerekani n'utundi ducupa tureture.

Harutuntu dukunzwe gukoreshwa mumaduka atandukanye cyangwa amarimantasiyo ategura ibiribwa bakunze kuzaniramo ibiribwa abakiriya babo twinshi dukunzwe kuba dukoze nkudutebo amasahane cyangwa utundi twinshi tunyuranye.

Mu maduka menshi aho ukunze gusanga ibiribwa bikoze muma farini, bikunze gukundwa na abanyeshuri cyangwa abana batoya, yaba amandazi, nibindi binyuranye ubisanga mwayo maduka ahakunzwe kuba hacururizwa na amata.

Atandukanye ari mu gihudu cy'u Rwanda ashinzwe kuba yagezaho abaturage amata, babazaniye uburyo bushyashya, aho usanga buri muturage cyangwa umuturarwanda ashobora kuba yagura amata, agendeye ku ngano no ku mafaranga afite mu mufuka we, bityo agahabwa n'amata akeneye.

Usibye kuba wasanga amata ahacururizwa amata, ushobora no kuhasanga ibindi binyobwa bitandukanye n'ibiribwa, yaba imitobe, icyayi n'ibindi bikomoka ku mata nk'amayahurute, ibiribwa bikorwa mu mafarini:yaba keke, amandazi cyangwa amagi n'ibindi bikomoka ku matungo.

Mu makusanyirizo agiye atandukanye y'amata aho ngaho uhasanga uburyo bwiza buri muturage cyangwa umunyeshuri ashobora kuba yagura igikombe cy'amata akaba yakinkweraho bitewe ninyota afite bityo akaba yahabwa ikiryo gikoze mw'ifarini cyo kuyamanuza.

Amakusanyirizo y'amata agiye atandukanye ari mu gihugu cy'u Rwanda, usanga barasizeho serivise zo kuba buri muturage, cyangwa umuturarwanda ashobora kuba yahabwa serivisi, nko kuba umuturage ashobora kuba yaza akagura ingano y'amata iri hafi aho usanga ashobora yakwaka igikombe cy'amata bakakimuha.

Ku makusanyirizo agiye atandukanye aho usanga bahacururiza amata n'ibikomoka ku mata; buri muturage ashobora kuba yaza akahagura igikombe cy'amata akaba yagihabwa, ndetse n'icyo kuyarisha bakunze kwita amakeke, imigati bikoze mu ifarini.

Makusanyirizo y'amata agiye atandukanye ari mu gihugu cy'uRwanda, akomeje gutanga serivisi neza aho ushobora kuba wabagana ukaba wahabwa ibinyobwa bigiye bitandukanye bikorerwa mu nganda harimo inyange, harimo n'izindi ji zigiye zitandukanye, amazi ndeste n'ibindi biribwa bikungahaye ku ifarine.

Abacuruzi bacuruza amata, boroherejwe no kuba batwara amata ahantu hagiye hatandukanye aho usanga bayatwara mubintu by'ibicupa binini, bityo bigatuma bashobora kuba bayageza kubayashaka byihuse kuri kantite nyinshi.

Ahacururizwa amata hakunze kuba hari n'ibindi binyobwa bitandukanye, yaba imitobe ikorwa mu mbuto zitandukanye, amafanta n'ibindi binyobwa binyuranye. Uhasanga n'ibiribwa byinshi, yaba ibikomoka ku mata n'ibindi byinshi.

Amakusanyirizo agiye atandukanye y'amata, aho usanga mu makantine agiye atandukanye yo mu Rwanda, bashobora kuba bakugurisha amata bigendeye ku mafaranga wishyuye, aho usanga ushobora kuba wagura igikombe cy'amafaranga, ugendeye ku ngano y'amata ushaka.

Ahacururizwa amata cyangwa ibindi bitandukanye, byaba ibikomoka ku mata, imitobe n'ibindi byinshi, uhasanga n'ibiribwa bitandukanye, yaba ibikorwa mu ifarini, imbuto cyangwa amagi ku giciro cyiza, uhagannye wese abona icyo yifuza.

Mu makusanyirizo menshi usanga harimo utubati turimo ibiribwa binyuranye bifasha abakiliya kuba bahitamo ibyo baba bifuza kuburyo ababagana baba babibona n'ibikombe binyuranye babapimiramo amata ku ingano bifuza kandi hari n'ibinyobwa binyuranye atari ibikomoka ku mata gusa.

Ni rumwe mu ruganda rutanga amata ndetse n'ibindi bikungahaye ku mata n'ibikomoka ku mata, aho usanga rwarorohereje abaturage n'abaturarwanda kuba rwabagezaho amata y'umwimerere. Bagiye bafite amazu agiye atandukanye amakusanyirizo agiye atandukanye Bityo bikorohera abaguzi bayo mata kuba bayabona.

Amaguriro agiye atandukanye y'ibiribwa, amata, amagi, ndetse n'ibindi bintu bishobora kuba byafasha umubiri w'umuntu mu kuba byamurinda indwara, kumukomeza, ndetse n'ibindi.

Amaduka menshi acuruza amata cyangwa ibikomoka ku mata hakunzwe yaba ikivuguto icyayi cy'amata na mukaru uhasanga amateremusi afasha mu gushyiramo icyayi kugira ngo ugikeneye agisange gishyushye kimeze neza nk'uko abyifuza .

Uruganda rw'inyange ruzwi mu gutegura amata akomoka hazwiho umuco gakondo w'igihugu cyacu usanga amaduka yabo acuruza amata y'umwimerere meza, amazi n'ibindi byinshi bitandukanye bitegurwa n'urwo ruganda .

Amakusanyirizo menshi ahacururizwa amata n'ibindi binyuranye, uhasanga ubujerekani buri mu ngano zitandunkanye bwo gufasha abakiliya babo waba ukeneye litiro imwe, ingano nyinshi y'amata bitewe n'ingano wifuza bagupimira mu kajerekani kabigenewe.

Mu mashopu agiye atandukanye acuruza amata n'ibijyanye n'amata n'ibikomoka ku mata, twabazaniye ubundi buryo bwo kuba wagura ibiribwa bikunze kwitwa umugati, aho usanga uwaguze uwo mugati ashobora kuba yawunywesha ayo mata ndetse akawunywesha n'iyo migati.

Amakusanyirizo menshi ahazwi nk'ahacururizwa amata y'inka mungero zitandukanye, usangamo ibyuma byinshi biri mungero zitandukanye, aho bashyira amata bityo bikayarinda kwangirika.

Amakusanirizo ahacururizwa amata uhasanga ibicuba byiza cyangwa bayagemuriramo mugihe batarayasuka mucyuma kiyatunganya usanga aribyo bicuba arimo biri mungango zitandukanye.

Abantu benshi bakunze kugura amata yogukoreshwa mu rugo mu bintu bitandukanye ku makusanyirizo abegereye aho batuye aho usanga bacuruza amata y'amasukano ku ngano wifuza barayagupimira bakaba bayaguha.

Uruganda rw'Inyange rwafunguye ibyicaro ahantu henshi mu gihugu izwi nka miliki zone ahacururizwa amata mu ngano ziandukanye, waba wifuza afunze aturuka ku ruganda cyangwa amasukano yo gukoresha mu rugo urayahanga ku giciro kidahinduka.

Amandazi akunze gucururizwa ahacuruzwa amata, n'ibindi bikomoka ku mata byose, ushobora kuhasanga ibindi biribwa bitandukanye bikorwa mu ifarini usibye amandazi gusa ushobora kuhasanga amakeke, amacapati n'ibindi byinshi bitegurwa n'inganda zinyuranye bikorwa mu ifarini.

amakusanyirizo menshiatandukanye ari ahantu hanyurane bakunze gucuruza amata nibikomoka kumata hakunze uba hari imitobe n'amazi abantu benshi barahagana bakeneye ibintu byinshi bitandukanye yaba ibyo gukoresha mu rugo cyangwa ibyo wanywa uri ku rugendo.

Ku makusanyiririzo y'amata ushobora kuba wabagana, bakaba baguhereza amata, ukaba wayanywa ugasubira mu kazi, mu gihe uba ugetereje gusubira mu kazi ushobora kuba waza bakayaguhereza ukayanywa ukayafatisha n'ibiribwa bigiye bitandukanye bikoze mu ifarini.

Ku makusanyirizo agiye atandukanye y'amata, babazaniye ibinyobwa bigiye bitandukanye bikomoka ku mata, aho ushobora kuhasanga ikinyobwa bakunze kwita yawurute abana benshi bakunda kuba banywa, ndetse ukahasanga n'icyo bita Inyange, Inyange ari mu mata akunzwe n'abantu bakuru.

Butike agiye atandukanye acuruza ibintu bijyanye n'amata n'ibikomoka ku mata, twabazaniye ibindi biribwa bishobora kuba byakonsomwa bitewe n'uko umuturage abishaka. Twabazaniye amagi ameze neza, akungahaye ndetse afite vitamini.

Nyanza miriki indasitiri, ni uruganda rushinzwe gukora ibintu bijyanye n'amata n'ibikomoka ku mata, aho usanga rugiye rufite imiryango ahantu hagiye hatandukanye. Rufite serivisi nziza aho usanga bakugezaho ku bintu bikomoka ku mata n'amata meza. Rufite amata meza, ushobora kuba wajyenda ukayagura ku giciro cyiza.

Ndetse n'ahandi hagiye hakungahaye mu gutanga serivise zijyanye n'amata n'ibikomoka ku mata, twabazaniye uburyo bushyashya bwo kuba buri muturage cyangwa umuturarwanda ashobora kuba yahabwa serivisi zijyanye n'amata mu buryo bugiye bumworoheye, aho usanga buri muturage ashobora kuba yahabwa amata yabigendeye no ku mafaranga afite uko angana.

Ku makusanyirizo menshi, uhasanga ibiribwa bitandukanye, yaba imbuto, ibikomoka ku mafarini, amagi n'ibindi byinshi, yaba amata, amazi, imitobe, n'ibikomoka ku mata byinshi bitandukanye.

Haribyuma byagenewe kubikwamo amata nibikomoka kumata kugirango abakiriya babigure babisange bimeze neza yaba bikonje cyangwa bidakonje, hakunzwe gushyirwamo amata nibikomoka kumata bityo bikayarinda kwangirika.

Amakusanyirizo agiye atandukanye y'amata, aho ntitwasiba kuvuga ko ushobora kuba wahasanga bimwe mu biribwa bakunze kwita ibiraha. Ibiraha ni ibiribwa bikoze mu ifarini, mu imbere haba harimo ibirayi. Ushobora kuba wabirisha amata bityo ukizihirwa.

Amata rurushijeho kuba rwatanga serivisi neza, aho usanga buri muturage cyangwa umuturarwanda ashobora kuba yahabwa serivisi neza, bityo bigatuma abaturage batuye u Rwanda bizihirwa no kuba bashobora kuba bahabwa amata mu buryo buboroheye.

Amakusanyirizo agiye atandukanye y'amata n'ibikomoka ku mata. Babazaniye uburyo bushyashya bwo kuba umuturage ashobora kuba yahabwa igikombe cy'amata ndetse n'icyo kugifatisha, akaba yahabwa amata ameze neza. Aho uhasanga n'ibyo kurya bikoze mu ifarini.

Nyanza miriki zone, ni rumwe mu ruganda rutunganya amata, rugiye rufite ahantu henshi ushobora kuba wagurira amata. Bafite ibicuba byabugenewe bashobora kuba babikamo amata, bikayabikana isuku nyinshi. Birizewe kandi ushobora kuba wabagana bakaguha amata afite ubuziranenge.

Amakusanyirirzo agiye atandukanye yo mu Rwanda, aho usanga barabazaniye ibindi biribwa bikungahaye ku mavitamini, aho usanga bagukorera ibiribwa bikoze mu ifarini, aho mo imbere yaho haba harimo inyama, bityo byifashishwa mu kuba banywa amata.

Amakusanyirizo agiye atandukanye yo mu Rwanda, babazaniye uburyo bushyashya bwo kuba wabika amata, ukayabika mu bicuba byabugenewe, aho usanga ibyo bicuba bikoreshwa mu kuba babishyiramo amata, bayavana ahantu hamwe bayajyana ahandi, aho buri muturage yishimira kuba yagezwa ayo mata kuko ibyo bicuba byarabugenewe kuba byabikwamo ayo mata.

Mukamira dayari ni rumwe mu ruganda rukora cyangwa rutunganya ku bikomoka ku mata, rwabazaniye ibyuma byabugenewe mu kubika amata kuko abaturage bakunda kugura amata muri karitsiye zigiye zitandukanye. Ushobora kuba wahabwa cyangwa ukagezwaho ayo mata afite umwimerere.

Hari ibyuma byahiswemo ku makusanyirizo menshi, aho bifasha abacuruzi baho kuba bakwemezamo ingano cyangwa umubare w'ibyo waba ukeneye, bikaba byabafasha gupima ibyo waba wifuza ku ngano wansabye.

Hari udupapuro twagenewe abakiriya aho ariho hose waba ukeneye serivise zijyanye n'ibiribwa, dushobora gufasha abakiriya babagana kuba bafata ibiribwa batabishyizeho intoki mu gihe zanduye cyangwa bakeneye kwihanagura mu gihe bamaze kurya.

Hari amapikipiki n'amagare akora umwuga wo kugemurira amata abantu ku makusanyirizo, aho usanga amenshi ariho ibicuba cyangwa amajerekani bagemuye ku maduka atandukanye acuruza amata cyangwa ahacururizwa ibindi bintu byinshi hacururizwa nayo mata.

Amaduka acuruza ibintu bigiye bitandukanye arushijeho gutanga serivise neza, aho usanga bimwe muri ibyo biribwa biba binapfundikiye, bwizewe, bifite n'isuku. Bacuruza ibintu bigiye bitandukanye: harimo inyanya, imineke n'ibindi byose bikomoka ku biribwa.

Ku makusanyirizo y'amata agiye atandukanye ari mu Rwanda, aho usanga baba bafite ibyo wifashisha uri kurya no kunywa amata. Aho usanga baba bagufitiye ibiribwa bigiye bitandukanye bikoze mu mafarini. Aho usangamo amakeke ameze neza, aho usanga ushobora kuba wayanywesha amata bityo bigatuma uryoherwa no kuba wanywa amata.

Mu makusanyirizo menshi ahacururizwa amata n'ibikomoka ku mata bitandukanye bitegurwa n'uruganda rwagenwe iryo duka, ushobora kubagana waba ukeneye amata afunze, amasukano yose bayaguha nkuko uyakeneye mu ngano zitandukanye.

Uruganda rw'inyange rwafunguye ibyicaro bitandukanye mu gihugu ahari amakusanyirizo acuruza amata, n'ibikomoka ku mata bigiye bitandukanye, aho ushobora kubagana waba ukeneye amata yo gukoresha mu rugo, amazi, ikivuguto, ndetse n'ibindi byose binyuranye, byose barabikugezaho ku giciro kiza.

Mu maduka agiye atandukanye acuruza amata n'ibikorerwa ku mata akomeje gutanga serivise neza, aho bakunze usanga bafite ibiribwa byifashishwa mukuba wamanuza amata bizwi nka keke n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye bikorwa mu ifarini.

Amakusanyirizo agiye atandukanye y'amata, ushobora kuhasanga utubuni twagenewe mu kubikwamo amata. abantu bashobora kuba bayagura bagendeye ku mafaranga bafite, aho ntitwasiga kuvuga ko ayo makusanyirizo y'amata afite amata y'umwimerere.

Hamwe na hamwe ahantu bagiye bacuruza amata ndetse n'ibikomoka ku mata hakungahaye ku buryi ushobora kuba wahagura ku binyobwa bikomoka ku mata bakunze kwita yahurute. Yahurute ni ikinyobwa gikunzwe n'abana gifite intungamubiri zigiye zitandukanye.

Amasambusa akunze gucururizwa mu maresitora n'amarimantasiyo atandukanye, aho abantu benshi bakunze kuyasomeza amata cyangwa amayahurute n'ibindi byinshi bitandukanye, ni ibiribwa bikozwe mu ifarini mu imbere bikunze kuba birimo utunyama duseye, biba bimeze nka mpande eshatu.

Aba mutu bashyiririyeho uburyo bwo kwamamaza umuzuro wabo wo gutanga serivisi ku babikeneye bose ahoyuraho ho basanga ibyatsi'amasuro b'gufasha mu gukemura ibibazo bafite ku miyoboho mute ibyo ari byiza byosekaba igikemura.

MTN ikomeje gutanga serivise nziza bitewe n'abajenti bakunze kwita abakozi ba MTN, ushobora kuba wabasanga ahantu hose hakwegereye, ushobora kuba wabitsa, ukabikuza ndetse ukagura n'amayinite ku buryo bukoroheye.

Aho abatwara ibinyabiziga bakunze kujya kunywesha ibyo benshi tuzi nka esanse, bashyizeho nabo uburyo bwiza bushobora kwishyura ukoresheje umuyoboro wa Emutiyeni. Ukaba wakwishyura ku mibare y'iyo sitasiyo yangenwe n'umuyoboro wa Emutiyeni.

Umurongo wa MTN urushijeho gutanga serivisi neza. Aho usanga mu makaritiye agiye atandukanye, ugenda uhabwa serivisi neza kuko bahazanye ibyicaro ushobora kuba warya, guswapisha, kugura simukadi nshya ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandvukanye ziz'indiindi.

Umurongo wa MTN ukomeje gutanga serivisi neza, aho buri muturage cyangwa ukoresha uno murongo, ashobora kuba yagana umu ajenti umwegereye, akaba yahabwa serivise zigiye zitandukanye; kubitsa, kubikuza, ndetse no kuhereza amfaranga, uyavana ku muntu umwe uyajyana ahandi.

Mu byicaro by'umuyoboro wa MTN uhasanga ibyapa byamamaza serivisi zitandukanye batanga cyangwa ibihembo byagenewe abakiriya babo bakoresha umuyoboro kenshi gashoboka, bino bikaba bifasha abakiriya babagana kuba bakoresha umuyoboro wabo cyane, bityo kugira ngo bahabwe ibihembo umuyoboro wa MTN wagennye.

Umurongo wa MTN urushijeho gutanga serivise neza, aho usanga ruba rwarohereje abajenti ndetse n'abakorera uwo murongo kuba bagenda muri karitsiye zigiye zitandukanye bakajya kuba babamamariza, aho usanga haba hari abagabo bambaye imipira y'umuhondo, bababwira ibyiza ndetse na serivise zijyanye na MTN.

Umuyoboro wa Emutiyeni wazanye uburyo bwo kwishyura bushyashya, bakunze kwita momo peyi. Iyo momo peyi yifashishwa umucuruzi iyo agiye kwishyurwa, wakanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe, akanyenyeri iyo kode, akanyenyeri amafaranga , akanyenyeri umubare w'ibanga, ukaba wakwishyura umucuruzi mu buryo bukoroheye.

AIRTEL ni umurongo ukorera mu Rwanda urushijeho kuza ku isonga bitewe na serivise nziza uri guhereza abakoresha uno murongo, aho usanga mu tuzu tugiye dutandukanye ushobora kuba wahaherwa serivise zigiye zitandukanye za AIRTEL bityo bigatuma umukozi ukora muri utwo tuzu atanga serivise neza, umuturage agahabwa serivise mu buryo bunoze.

MTN, worohereje abaturage batuye u Rwanda, aho usanga bashobora kuba bahabwa serivisi zinyuranye za MTN, aho usanga mu makarito agiye atandukanye, bagiye bafite ibyicaro, aho usanga umuturage ashobora kuba yahabwa serivisi zigiye zitandukanye.

Ni tumwe mu tuzu dukoreramo abakozi ba emutiyeni, utuzu twagenewe kuba twatangirwamo serivise nziza emutiyeni ushobora kuba watugana ugahabwa serivise zo kubitsa, kubikuza, no kohereza amafaranga no kugura amayinite.

Ikomeje kuza ku isonga mu gutanga serivise nziza aho buri muntu ukoresha umurongo wa emutiyeni ashobora kuba yazana umukozi wa emutiyeni mu buryo bumworoheye. Ashobora kuba yamusanga mu mutaka, mu tuzu tugiye dutandukanye, bitewe n'ahantu atuye.

Ku byicaro byinshi biri mu gihugu by'umuyoboro wa MTN bakunze gucuruza telefone, ibyo bakunze kwita make make, aho ushobora gufata telefone bitewe n'uko ukoresha umuyoboro wabo, ukaba wayishyura mu gihe kingana nk'umwuka cyangwa amezi atandatu wishyura make make nk'uko ugiye uyabona.

Umurongo wa emutiyeni urushijeho gutanga serivisi neza ndetse n'abajenti bakorera emutiyeni aho ushobora kubitsa no kubikuza no koherereza amafaranga abawe mutari kumwe.

Umurongo wa mtn ukomeje kuza ku isonga, aho usigaye utanga serivise neza, ushobora ubungubu kuba wagana umukozi wa mtn bikoroheye kuko ushobora kumusanga ku mihanda igiye ikwegereye, akaguha serivise zigiye zitandukanye haba mukubitsa, kubikuza ndetse no kugura amayinite.

Emutiyeni ni umuyoboro wo mu Rwanda utanga serivisi nziza ku bawukoresha. Aho usanga buri hantu hose ushobora kuba wajya, ushobora kuba wahasanga umukozi wa emutiyeni bityo ukaba wahabwa serivisi zinyuranye za emutiyeni.

Umurongo wa MTN ukomeje gutanga serivisi neza, aho ushobora kuba wagana umukozi wa MTN akaba yagufasha muri serivisi zigiye zitandukanye, ushobora kuba wabitse amafaranga ukayabikuza, ndetse ukaba wahabwa simukadi cyangwa ugaswapisha simukadi, iyo wagize ikibazo cyo kuba wayiyobora.

Serivise zose waba ukeneye ku muyoboro wa emutiyene, uzisanga ku tuzu twagenwe tugangurwamo servise yaba gukura amafaranga kuri uyashyira kuri simukadi yawe ibizwi nko kuri momo, ukeneye ubufasha kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, aho wagurira ibyo ukeneye byose cyangwa serivise zitandukanye ukeneye kuzishyura.

Ukomeje kuza ku isonga bitewe nuko utanga umufuragiro kubahanzi bamwe na bamwe mukuza kuba babamamariza, bityo bigatuma abantu benshi bagura cyangwa bagakoresha uno murongo.

Ushobora gutumiza ibiribwa cyangwa ibindi bicuruzwa binyuranye, bakabigusangisha mu rugo, aho ubigurira ku maduka akorera ku mbuga nkoranyambaga ziri kuri murandasi zinyuranye, bakaba babigusangisha mu rugo aho utuye.

Umurongo wa mtn ukomeje kuza ku isonga aho ushobora kuba wakishyura umucuruzi ukoresheje imibare y' ibanga ye, ushobora kuba wakanda akanyenyeri ,ijana na mirongo inani na karindwi , akanyenyeri kabiri, akanyenyeri rimwe akanyenyeri iyo mibare y' ibanga ukaba wakoherereza umucuruzi bikoroheye, nta biceri bagukata.

Ikizakubwira ahatangirwa serivisi n'imiyoboro ya MTN cyangwa ibyicaro, uzahasanga ibyapa byanditseho MTN biri mu mabara atandukanye y'umuhondo n'umweru, aho uzasanga abakozi bambaye imyambaro y'umuhondo n'abakiriya baba babagannye, bakeneye serivisi zinyuranye.

Emutiyeni ni umurongo ukorera mu Rwanda, wazanye uburyo bugiye butandukanye bworoshye bwo kuba wakishyura umucuruzi, aho usanga barabahaye imibare, bakuze kwita pini cyangwa mopeyi, aho usanga umucuruzi ashobora kuba yakishyurirwa ho n'umuguzi.

Harimo umugabo ukora muri MTN serivise hari umukiriya uri hano hanze usa nk'aho ari guseka ari kumuhereza serivise nziza za MTN.

Umurongo wa eyateri urushijeho gutanga serivise neza, aho usanga ufite aba agenti muri karitsiye zigiye zitandukanye; bityo bikorohereza abaturage batuye mu Rwanda kuba babona serivise za eyateri mu buryo buboroheye.

Umurongo wa emutiyene ikomeje gutanga serivise neza, aho usanga rwarorohereje abaturage bakoresha uno murongo kuba bahabwa serivise zijyanye na emutiyene mu buryo bukwiye, aho ushobora kuba wagana abajenti bagiye bakorera ahantu hagiye hatandukanye.

Umuyoboro wa emutiyeni ufite abakiriya benshi mu gihugu, aho usanga buri cyicaro cyose kirimo abakiriya benshi bafite ibibazo byinshi binyuranye: yaba iby'amafaranga, ibyo kwibaruzaho imiyoboro mishyashya n'ibindi binyuranye nko kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga.

Emutiyeni urushijeho utanga serivise neza aho usanga buri muturage ukoresha uwo murongo ashobora kuba yahabwa serivise neza, ashobora kugana umwajente umwegereye mu tuzu , mu mitaka n'ahandi hose hagiye hatandukanye.

Umuyoboro wa Mtn ukomeje gutanga serivise neza, aho usanga mu ngingo z'imari haba hateganyijwemo kuba batanga imifuragiro. Imifuragiro ikaba yahabwa ku bantu bashobora kuba bagura iyo mirongo ya Mtn.

Umuyoboro wa emutiyeni urushijeho gutanga serivise neza aho usanga buri muturage cyangwa umuturarwanda ashobora kuba yahabwa serivise neza agannye ibyicaro bigiye bitandukanye biri mu makaritsiye agiye atandukanye, buri mururage ashobora kuba yahabwa serivise neza kandi mu gihe kiza.

Ikicaro cy'umuyoboro wa emutiyene ahantu hose, bagiye bashyiraho aho ushobora guhabwa serivise, waba ukeneye kugura terefone n'ibindi byinshi kandi bagiye bashyiraho ibihembo ku bakirirya babo babagana nk'imipira, amaterefone n'ibindi byinshi.

Umuyoboro wa MTN, wagiye gushyira ahantu henshi hatandukanye, (yaba ahabera ubucuruzi, cyangwa ahatangirwa serivise zinyuranye), imibare ushobora kwishyiriraho, iyo mibare uyisanga ku twapa tw'umuhondo twanditseho MTN, bigafasha kwishyura ukoresheje umuyoboro wayo.

MTN ni umurongo ukorera mu Rwanda aho usanga warorohereje abaturage bakoresha uwo murongo kuba bakwishyura amafaranga bayakuye kuri terefone ngendanwa ushobora kuba wakanda imibare ugashyiramo nimero z'uwo muntu ushaka koherereza amafaranga ukaba washyiramo pini namba yawe bityo amafaranga akaba yagera k'umuntu ushaka ko agaeraho.

Umuyoboro wa mtn washyizeho uburyo bwinshi aho umuturage uwariwe wese aho waba uri hose ushobora guhabwa serivise yose waba ukeneye ku muyoboro wa mtn yaba kubitsa amafaranga cyangwa kubikuza , kugura amayinite cyangwa n'ibindi byose waba ukeneye ku muyoboro wa mtn baka babigufashamo cyangwa wbikora wowe ubwawe

Aho waba uri hose yaba mu mugi wa Kigali cyangwa mu ntara, umuhanda wose wanyuraho, usangaho abakozi b'umuyoboro wa MTN, bafasha abaturage bo mwako gace kuri serivise zose baba bakeneye kuri uwo muyoboro.

Umurongo wa emutiyene worohereje abaturage batuye u Rwanda, aho usanga umuturage ashobora kuba yahabwa serivise zinyuranye za emutiyene, aho usanga ashobora kuba yagura cyangwa akabikuza amafaranga ku murongo wa emutiyene.

Umurongo wa emutiyeni ukomeje kuza ku isonga aho ushobora kuba wagana umukozi wa emutiyeni akagira serivise agufasha. Ushobora kuba wabitsa, ukabikuza, ndetse ukaba wahabwa n'amayinite n'izindi serivise zigiye zitandukanye. Ushobora kuba wahereza amafaranga umucuruzi ucishije kuri emutiyeni.

Umuyoboro wa emutiyene ukomeze kuza ku isonga mu gutanga serivise neza. Aho usanga buri muturage ashobora kuba yagana umukozi wa emutiyene, amusanze mu mutaka, mu tuzu twabugenewe, twa emutiyene. Aho ushobora kuba wabikuza, ukabitsa, ndetse no kohereza amafaranga.

Umurongo wa emutiyeni urushijeho gutanga serivisi neza. Aho buri muturage ashobora kuba yagana umu ajenti ukorera emutiyeni, akaba yahabwa serivise zigiye zitandukanye. Mu mitaka, mu tuzu, mu buryo bugiye buboroheye. Ahantu hose, ushobora kuba wagana umu ajenti wa emutiyene.

Ni umuronko ukorera mu Rwanda abaturage bakoresha uno muronko bahabwa serivise neza, aho usanga ahantu hagiye hatandukanye haba hari ibyicaro bigiye bitandukanye, kuburyo buri muturage ashobora kuba yakemurirwa ikibazo kigiye gitandukanye cyo muri emutiyene.

Umuyoboro wa MTN, kubera kurushaho gutanga serivise neza, bworohereje abaturage bo mu Rwanda. Aho usanga buri muturage wo mu Rwanda ashobora kuba yagana umu agenti (agent) bumworoheye, aho usanga barazanye n'utuzu two muma karitsiye(cartie).Umuturage bityo bimworohereza kuba yakohereza nka mafaranga cyangwa kugura amayinite n'ibindi byose n'izindi serivise zose za MTN.

Aho usanga rwaroroheje uburyo bwo kuba buri muturarwanda ashobora kuba yahabwa serivise zigiye zitandukanye mumakaritsiye agiye atandukanye aho usanga buri muturage ashobora kuba yahabwa serivise neza.

Umurongo emutiyene ukomeje kuza ku isonga ushobora kuba wakishyura umucuruzi ukoresheje imibare ikurikira, ushobora gkuba wakanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na karindwi, akanyeneri karindwi akanyenyeri karindwi ukaba wakwishyura umubare w'ibanga ukaba wakwishyura amafaranga kuri emutiyene.

Emutiyeni yazanye uburyo bwo kwishyura uri korohereza abakiriya aho usanga muri butike cyangwa mu mashopingi bakoresha akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego ukaba wakwishyura umucuruzi.

Ubu byaroroshye aho ushobora kugura ibicuruzwa byose wifuza ukaba wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga icyo usabwa ni ukwishyura kuri nimero cyangwa imibare yumucuruzi amafaranga usabwe ubwo kwishyura ukaba wakwerekana ubutumwa umiyoboro wa MTN waba iguhaye.

Amasoko menshi atandukanye mu gihugu aho abantu benshi bagana, bakeneye kugura aho usanga bacuruza ibintu byinshi bitandukanye yaba ibiribwa, imyambaro, ibikoresho byo mu rugo n'ibindi byinshi, usanga nabo barashyizeho uburyo bwo kwishyura ukoresheje umuyoboro wa MTN.

Umurongo wa MTN ukomeje gutanga serivisi nziza, aho usanga buri muturage ashobora kuba yagana umwajenti umwegereye, akaba yahabwa serivisi zigiye zitandukanye, kubitsa, kubikuza no kuba yahabwa amayinite n'uwo mukozi wa MTN.

Umurongo wa emutiyene uri mu Rwanda, urushijeho gutanga serivise neza, aho usanga bari gushishikariza abaturage kuba batunga uwo murongo wa emutiyeni, kuko ni umurongo ushobora kuba wakwihuta kuri enterinetei, bari kurushaho kwamamaza bakoresheje ingofero za emutiyene n'imipira iriho ikirangantego cya emutiyene.

Emutiyeni ni kimwe mu kigo gikomeje gutanga serivise nziza, aho usanga ahantu hose ushobora kuba wahasanga aba ajenti bakorera icyo kigo. Buri muturage ashobora kuba yagezwaho serivise nziza zijyanye na emutiyene.

Umurongo wa MTN ukomeje gutanga serivise neza aho ukomeje kuzana udushya twinshi ubu ngubu ushobora kuba wakishyura umucuruzi aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe urwego ugahita ushiramo imibare y'umucuruzi ukaba wamwishyura

Umuyoboro wa Emutiyeni ukomeje kuzana utuntu tugiye dutandukanye dushya, aho umucuruzi ashobora kuba yakwishyurwa amafaranga, umuntu ucurujwe icyo kintu ashobora kuba yakanda imibare ariyo: akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri iyo pini y'uwo mucuruzi, akaba yahabwa amafaranga ye.

Abakorera mu tuzu tw'imiyoboro ya emutiyene turi ahantu hanyuranye bafatwa nk'abakozi bo mu muyoboro wa emutiyene, ushobora kubagana, wifuza amayinite cyangwa ibindi binyuranye ku muyoboro, yaba kubitsa no kubikura amafaranga, n'ibindi byinshi.

Mu masoko menshi atandukanye mu gihugu uhasanga ibiribwa bitandukanye yaba imboga, ibinyamisogwe, n'ibinyampeke, yaba imiceri, amafu atandukanye n'ibindi binyuranye byose urabihasanga ibyo waba wifuza byose urabihasanga bijyane n'ibiribwa cyangwa ibyo guteka.

Umurongo wa mtn urushijeho gutanga serivisi neza, aho buri muturage ukoresha umurongo wa mtn ashobora kuba yabagana ahari hose mu Rwanda, ushobora kuba wakenera guhabwa serivisi zigiye zitandukanye: haba mu kubaruza simukadi, kugura amainite no kubikuza, ushobora kuba wakegera ikicaro kikwegereye.

Muri MTN hashyizweho uburyo bworoshye ku bacuruzi batanga serivise cyangwa bacuruza ibintu bitandukanye aho ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, icyo ukora ushyiramo ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe muri telefoni yawe, ukaba washyiramo imibare y'umucuruzi, ugashyiramo umubare w'amafaranga n'umubare w'ibanga ukaba wakwishyura serivise wahawe cyangwa ibicuruzwa waguze.

Umurongo wa emutiyeni ukomeje gutanga serivise neza aho bakomeje kuzana udushya tugiye dutandukanye, ubungubu ushobora wakishyura umucuruzi ukoresheje ibyo bakunze kwita momo peyi, ushobora kuba wakanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri rimwe akanyenyeri kode y'umucuruzi ukareba amazina ukaba wa mwoherereza amafaranga bitakugoye.

Umuyoboro wa MTN washyizeho uburyo butandukanye bworoheye buri munyarwanda wese aho ushobora gushyira apurikasiyo muri telefone yawe ishobora kugufasha kwishyura cyangwa kohereza amafaranga ku bantu batandukanye, icyo ukora n'ugushyiramo umubare w'ibanga wawe ibindi bikorwa byose ubikora mu buryo bworoshye kandi bunyuze, kandi ukaba wabona ubutumwa cyangwa uko wagiye wishyura bitandukanye.

MTN washyize agasanduku gatangirwamo serivisi zitandukanye k'akazu kari mu mabara y'umutuku muri gare ya Nyabugogo, aho ushobora kuhagana ukeneye amayinite kubitsa amafaranga cyangwa kubikuza.

Aho usanga buri muturage cyangwa umuturarwanda ashobora kuba yahabwa serivise zijyanye no kubitsa, kubikuza no kuba buri muturage ashobora kuba yahabwa serivise zigiye zitandukanye za emutiyene mu makaritsiye agiye atandukanye.

Mu byiciro by'umuyoboro wa MTN usanga hakoreramo abakozi benshi kuko hakunze kuganwa n'abakiriya benshi bafite ibibazo binyuranye bo mungeri zitandukanye, aho usanga bakeneye inzobere mu kubafasha.

Serivise z'umuyoboro wa MTN, zitangirwa henshi mu gihugu aho waba uri hose; abakozi ba MTN baba bahari, bagukemurira ibibazo ufite ku muyoboro cyangwa serivise zose waba wifuza, nk'uko biba byamamazwa ku bwapa buba buri ku tuzu twagenewe gutanga serivise, byose barabigufasha.

Ahantu henshi bacururiza ibintu bitandukanye cyangwa hatangirwa serivisi zinyuranye, uhasanga utwapa turiho ikizwi nka kode y'umucuruzi, aho ushobora kwishyurira serivise wahawe cyangwa ibicuruzwa waguze bitagusabye indi nyungu cyangwa indi nyishyu kubyo waba wishyuye.

Abantu benshi bakunze guhahira ahantu hanyuranye, usanga baguze ibicuruzwa byinshi ku giciro cyiza kandi bakoroherezwa no kwishyura aho bashobora kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga, nk'umuyoboro wa mtn bashobora kwishyura ibicuruzwa kuri nimero y'umucuruzi bakaba bakishyura nta nkomyi.

Umurongo wa emutiyeni ukomeje kuzana udushya twinshi, aho umuturage ashobora kuba yakwishyura akoresheje icyo bita momopeyi, aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatatu, akanyenyeri urwego

Ubu hashyizwe ho uburyo bwiza aho ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, aho ushobora no gukura amafaranga kuri banki yawe, ukaba wayashyira kuri simikadi yawe ya Emutiyeni, bikaba byagufasha kwishyura aho bidashoboka kuba wakishyura ukoresheje banki.

Ahatangirwa serivisi z'ubucuruzi n'ibindi binyuranye bisabwa kwishyura, haba hari imibare yagenwe n'umuyoboro wa emutiyeni ushobora kwishyuriraho ibyo wafashe ku giciro cyagenwe nta mafaranga na make bagukase bitewe no kwishyura.

Umuyoboro wa airtel urushujijeho gutanga serivise neza; aho usanga uwo muyoboro ugiye ufite ibyicaro ndetse n'utuzu, imitaka ahantu hagiye hatandukanye, buri muturage ukoresha uwo murungo ashobora kuba yafashwa muri serivise zigiye zitandukanye.

Hari uburyo bumwe ushobora kwishyuramo umucuruzi, waba ukoresha konti yawe ya banki, waba ukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bw'umuyoboro wa emutiyeni, waba wishyura kuri nimero zagenwe z'umucuruzi zikunze kuba ari imibare itandandatu, icyo ukora ni ukuyemezamo, ukaba washyiramo amafaranga n'umubare w'ibanga, ukaba wakwishyura ibyo wahawe.

Umurongo wa emutiyeni ukomeje kuza ku isonga aho utangiye gutanga serivise neza, ushoboara kuba wagana buri mukozi wa emutiyeni ukwegereye akaba yagufasha muri serivise zigiye zitandukanye harimo izo kubitsa, kubikuza, kugura amayinite ndetse n'izindi zose zigiye zitandukanye.

Abacuruzi bo mu masoko bacuruza imboga, imbuto na ibindi byinshi, hashyizweho uburyo bworoshye aho ushobora gukura amafaranga kuri telefone ukaba wayishyura umucuruzi bitagusabye gutwara amafaranga mu ntoki cyangwa ukaba wakoresha konti yawe ya banki.

Umurongo wa MTN ukomeje gutanga serivise neza, aho ushobora kuba wagana ikicaro cya MTN kikwegereye, bakagira serivise bagufasha. Haba mu kubolokora nimero yawe, haba mu kubitsa amafaranga menshi, ushobora kuba wakora n'izindi serivise zigiye zitandukanye.

Umurongo wa emutiyeni ukomeje gukomeza kuba watanga serivise neza. Aho buri muturage ukoresha uyu murongo, ashobora kuba yakishyura akoresheje telefone ye, agakanda imibare igiye itandukanye, bityo akishyura umuntu ashaka kwishyura.

Umuyoboro wa emutiyene washyizeho uburyo bwiza, bwo gufasha abakiriya babo mu kubaha serivise, kandi abakiriya benshi babagana, bakunze guhabwa ibihembo bitewe n'uko bakoresha umuyoboro wabo, kandi bakaba bakemurirwa n'ibibazo byabo baba bafite ku miyoboro, waba uyobeje amafaranga, cyangwa ukeneye kwibaruzaho simu kadi ye, yaba yabuze, yayitaye, cyangwa yayibwe.

Umurongo wa emutiyene ukomeje kuza ku isonga, aho ushobora kuba wabagana ahantu hose uramutse ushatse serivise za emutiyene zigiye zitandukanye. Ushobora kuba wagana ibyicaro bya emutiyene bikwegerereye bakaba bagufasha serivise zigiye zitandukanye, haba kubona simukadi nshyashya, ukaba wasuwapisha indi nshyashya n'ibindi.

MTN yabazaniye uburyo bundi bwo kwishyura ukoresheje Mo pay , Mo pay bashobora kuba baguhereza imibare y' ibanga ushobora kuba washyiraho ukanze *165*3≠ icyo gihe ushobora kuba wahabwa code umuntu wahaye serivisi agashobora kuba yayikwishyuriraho.

Abacuruzi benshi bashyizeho uburyo bw'ikoranabunga bukorana n'umuyoboro wa MTN, aho waba uri hose, yaba mu mugi cyangwa mu Ntara, ushobara gusanga udapapuro twagenwe turiho imibare, ushobora kwishyuriraho umucuruzi amafaranga y'ibyo wafashe mu iduka rye.

Ubu serivise waba ukeneye kumiyoboro ya MTN izarizo zose, aho waba utuye mugihugu aho ariho hose ushobora kuzihabwa; yaba kugura ama inite, kwibarurizaho simukadi, kubitsa amafaranga, kuyohereza nibindi byinshi.

Hari udupapuro cyangwa utwapa tugiye tumanitse mu maduka atandukanye ho gufasha abakiriye babo kuba bakwishyurira serivise bahawe cyangwa ibicuruzwa bakoresheje imibare yagenwe kuri utwo dupapuro, ikunze kuba ibaruye ku bacuruzi cyangwa ku iduka.

Emutiyeni ikomeje gutanga serivise nziza aho ushobora kuba wajya ahantu hose ukahasanga umukozi wa emutiyeni, akaba yakubikuriza, yakoherereza, akaba yakugurira n'amayinite ya emutiyene ndetse akaba yagukemurira n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bya emutiyeni byoroheje.

Umurongo wa MTN bukomeje gutanga serivise nziza ,aho ushobora kuba wagana abakozi bagiye batandukanye bakorera umurongo wa MTN.Aho ushobora kuba wabagana bakagufasha serivise zigiye zitandukanye za MTN.Ushobora kubitsa, kubikuza ndetse n'ibindi byose bitandukanye za MTN.

Umuyoboro wa MTN worohereje abakoresha uwo murongo wa MTN kuba babahereza aba ajenti bashobora kuba bakorera muma karitsiye, aho usanga umuturage ashobora kuba yashaka kubikuza akabikuza bitamugoye, no kuba yagura amayinite bitamugoye no kuba yakohereza amafaranga bitamugoye.

Tangirwamo serivise zitandukanye arizo umuyoboro wa emutiyeni cyangwa ibindi bitandukanye, usanga batanga serivise zinyuranye, yaba kubikuza amafaranga avuye kuri konti yawe ya banki bayashyira kuri simukadi yawe kubindi nka momo, bakaba bagufasha koherereza umuntu amafaranga yaba uri mu mahanga cyangwa uri mu gihugu.

Eyateri ni umurongo ukorera mu Rwanda, aho usanga warorohereje abaturage n'abaturarwanda, aho usanga buri muturage ashobora kuba yahabwa serivisi za Eyateri mu buryo bumworoheye. Eyateri yazanye uburyo bwo kuba wahabwa serivisi neza, wagannye ibigo bigiye bitandukanye, ibyicaro bigiye bitandukanye bya Eyateri.

Umurongo wa emutiyene ukunze gutanga serivisi neza. Ubungubu ntirutana no gutanga serivisi neza, aho usanga rwarorohereje abantu bakoresha uwo murongo mu Rwanda, ahantu hose ugiye ushobora kuba wahasanga icyicaro ndetse n'abajenti bagiye batandukanye.

Umubare umuyoboro wa Emutiyeni ugena ku bacuruzi cyangwa abatanga serivisi zitandukanye aho ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga icyo ukora ni ugushyiramo akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe ukaba washyiramo nimero z'umucuruzi akanyenyeri umubare w'amafaranga ukeneye kwishyura akanyenyeri ugashyiramo umubare w'ibanga ukaba wakwishyura iwawe ubutumwa ubwereka umucuruzi ko amafaranga umaze kuyishyura.

Umurongo wa emutiyeni ukorera mu Rwanda urushijeho gutanga serivise neza aho usanga umuntu ukoresha uwo muronga ashobora kuba yakwishyura kuri telefone akoresheje imibare igiye itandukanye y'umucuruzi agiye kwishyura.

Umuyoboro wa emutiyeni washyizeho ubukangurambaga mu gihugu hose; aho ushobora gusanga serivisi cyangwa ukaba wasobanurirwa ibintu byose waba wifuza ku muyoboro: waba ufite ikibazo cyo kuyobya amafaranga, ibijyane no kubitsa no kubikura amafaranga, byose barabigufasha.

Umurongo wa mtn urushijeho gutanga serivise neza, aho usanga buri muturage ukoresha uwo murongo ashobora kuba yahabwa serivisi neza zirimo kubitsa, kubikuza, no kuba bagura amayinite ku buryo buboroheye, mu makaritsiye bagiye babazanira abajeti bakunze kuba bambaye amajaketi y'umuhondo, abo ngabo bashinzwe gutanga serivisi za mtn.

Borohereje abakoresha uno murongo kuba bahabwa serivisi abaturage bakoresha uno murongo aho ushobora kuba wagana umukozi wa MTN ukwegereye akaba yakubikiriza akakubikuriza akagurira n'amainite kuri MTN.

Ku mihanda igiye itandukanye aho usanga umukozi w'umuyoboro wa emutiyene kandi ahenshi uhasanga abakiriya baje kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga, kwibaruzaho simukadi nshyashya n'ibindi binyuranye.

Umuyoboro wa MTN urushijeho gutanga serivise neza aho usanga ahantu hagiye hatandukanye ugiye ufite amashami agiye atandukanye, kuburyo umuntu ushobora kuba yakoresha uwo muyoboro wa MTN ashobora kuba yafashwa mu buryo bumworoheye kuko afite ibyicaro hafi ye.

Emutiyeni izwiho gutanga serivise neza, aho ushobora kuba wagana umurongo wa emutiyeni ukwegereye, babazaniye ibyicaro ahantu hagiye hatandukanye. Ubu ngubu nta muturage ukoresha uno murongo, ushobora kuba yahura n'ikibazo ngo abure kuba yakigeza ku abakora mu murongo wa emutiyeni.

Umuyobora wa MTN urushujeho gutanga serivisi neza, aho usanga abaturage, Abaturarwanda, bakoresha uno murongo bahabwa serivisi neza, kuko mu tuzu tugiye dutandukanye haba harimo aba ajenti bagiye batandukanye, ushobora kuba wabagana ugahabwa serivisi zigiye zitandukanye MTN.

Umuyoboro wa MTN washyizeho tombora ahantu henshi mu gihugu, aho usanga abantu bari gutombora muri serivise y'igikorwa cyabo cya "ayoba", cyo kohereza umuntu ubutumwa bitagusabye kuba ufite amafaranga kuri telefone yawe; aho usanga bakaraga ikintu aho kiguye ukaba wahabwa icyo gihembo kiri aho ngaho kuri icyo cyapa bakaraga.

Ubu byaroroshye aho ushobora kwishyura serivise ukoresheje umuyoboro wa emutiyeni cyangwa bindi byinshi bitandunkanye nko kugura amayinite, kubitsa amafaranga cyangwa kohereza umuntu amafaranga, kuba wakwigaruzaho umuyoboro wabuze wa simukadi cyangwa kwigarurira amafaranga yayobye.

Umwuga wo gutanga serivisi neza, aho usanga buri muturage cyangwa umuturarwanda ashobora kuba yagana umwajeti umwegereye. aho usanga ushobora kuba wababikuza, ukabitsa amafaranga cyangwa ukaba wahabwa serivisi zijyanye no kuba wagura amainnite ndetse n'ibindi.

Ukorera mu Rwanda aho ushobora kuba wabagana bikoroheye, ushobora kuba wajya ku muhanda ukaba wahabwa serivisi zigiye zitandukanye, haba mu kubika, kubikuza ndetse no kugura amayinite.

Umurongo wa emutiye urushijeho gutanga serivise neza aho ushobora kuba wagana umukozi wa emutiyeni ukwegereye akaba yagufasha muri serivise zigiye zitandukanye ushobora kuba wabikuza, kugura amayinite no kuba wagura simikadi nshyashya cyangwa ugaswapisha.

Eyateli ni umurongo ukorera mu Rwanda. Aho ntitwasiba kuvuga undi murongo bita emutiyeni. Iyi morongo yose ikorera mu Rwanda, aho ushobora kuba wayigana ahantu hose ugiye, ushobora kuba wahasanga abakozi b'iyo mirongo itandukanye.

Umuyoboro wa MTN washyizeho uburyo bwiza aho ushobora kwigurira ama inite bitagusabye kujya ku bayacuruza cyangwa ahandi hose ukoresheje amafaranga yawe ari kuri telefone ushobora kugura ama inite bitagusabye kujya kuyagura.

Emutiyene ni umuyoboro ukorera mu Rwanda ho ushobora kuba wagira ikibazo ukagana umwajeti ukwegereye, byaba birenze ubushobozi bw'umwajenti ukaba wagana ikicaro kikwegereye, ibi bituma uyu muyoboro uza ku isonga.

Umuyoboro wa MTN ukomeje gutanga serivise neza. Aho ahantu hose ushobora kuba wajya ushobora kuba wahasanga icyicaro cya MTN. Aho usanga buri muturage ashobora kuba yahabwa serivise neza ndetse akaba nta kibazo ashobora kuba yagira.

Ndimo kubona umusore uhagaze, uri ahantu ho kurira, wambaye ishati ndetse n'ipantaro, akaba ari kureba umuntu ategereje uri butunguke ahantu hari irido.

Onorayini shopingi ni uburyo ushobora kuba waguriraho ibyo kurya, ibikoresho ndetse ugatumiza ibyo ukeneye, bityo bakabikuzanira ku giciro kiza bakabikugezaho iwawe aho utuye bitagombeye kujya ku isoko.

Ubu byaroroshye m'urwanda aho ushobora gucuruza ibicuruzwa byawe yaba ibiribwa imyambaro ibikoresho byikoranabuhanga cyangwa ibindi bikoresho bikenerwa murugo yaba ibyoguteka ibyo gutunganya ibiryo nibindi byinshi.

Ushobora kuzuza imyirondoro yawe, nanone bikaba byagufasha kugura no kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga kuri sisiteme yazanye mu gihugu cy'u Rwanda, ushobora gushyiraho ibicuruzwa byawe n'abakiliya bakaba babibona ugashyiraho aho ukorera, bakaba babikugurira ukabiboherereza cyangwa bakaba baza kubyitorera aho ucururiza.

Onulayini shipingi ni ikigi gikorera kuri interineti kuri murandasi aho usanga buri umuturarwanda ashobora kuba yatumiza ibiryo bakaba babimugezaho yatanze aderesi y'ahantu aturuka bakabimuzanira bityo buri wese akaryoherwa n'ibiryo yatumije.

Abahanga mukugurisha ibyo kurya babikoreye kuri interinete bakunze kwitwa vuba vuba babazaniye serivise aho usanga Umuturage ushobora kuba yatumizaho ikintu ,bakakimugezaho bakakimuzanira yatamze aho atuye. Bityo bigatuma ibyo yatumije bimugeraho akizihirwa.

Ikoranabuhanga ryoroheje ibintu byinshi kugitsina gore aho bashobora kugura ibikoresho byubwiza ku ikoranabuhanga nibindi byinshi baba bifuza kugiciro kiza kingana nubundi aho basanzwe babigurira kumasoko icyo ukora uhitamo ibyo ushaka kugiciro kikunyuze.

Umuturarwanda ashobora kuba yahabwa serivise neza, ashobora kuba yatumiza ibitoki. Hari ikigo gishinzwe kuba cyakugezaho ibiribwa birimo ibitoki. Aho usanga ubitumiza ugendeye ku mafaranga wishyuye, bityo bikakujyeraho vuba iwawe muburyo bworoshye. Ubu kujya kw'isoko n'ibintu bisigaye bigoye .

Vuba izwi mukugemura ibiribwa abantu aho batuye, imaze kumenyekana mu gihugu aho waba uri hose bashobora kukugezaho ibiryo uko ubyifuza, icyo ukora nuguhitamo ibiribwa ukeneye, yaba ibitetse cyangwa ibidatetse bakaba babigushangisha mumago yawe aho utuye.

Hashyizweho uburyo bw'ikoranabuhanga, aho ushobora kugurira ibicuruzwa bitandukanye, yaba iby'ubwiza, n'ibindi byinshi bikenerwa, nk'abakobwa bashobora kuhasanga ibyo bafisha mu bwiza by'ubwoko butandukanye, ku giciro cyiza ukaba wahitamo ibyo ukeneye, bakaba babikugezaho mu rugo.

Haje imbuga nshyashya zigiye zitandukanye aho usanga zigenda zifasha abaturage kuba bahabwa serivise neza, kuburyo ushobora kuba watumiza igikoresho cyangwa ikiribwa kuburyo bworoshye.

...ni kimwe mu kigo gishinzwe gutegura ibiribwa ndetse n'ibikomoka ku biribwa, aho usanga rushobora kuba rwabagezaho ibyo kurya mu buryo buboroheye, watanze aho utuye ukanishyura amafaranga bityo bakabikuzanira ku mapikipiki.

Iposita ni ikigo gikorera abanyarwanda kiba mu Rwanda, aho usanga gishinzwe kujyana amaletire kiyavana ahantu hamwe kiyajyana ahandi; bityo bigatuma abaturage batuye u Rwanda, biborohera kuba bakwakira ubutumwa no kuba babwohereza ahantu hagiye hatandukanye.

Wodi wayidi shopingi ni uburyo bwazanwe n'abantu bateye imbere, aho buri muturage ashobora kuba yatumiza igikoresho ahantu hagiye hatandukanye, mu duce dutandukanye tw'isi. Ushobora kuba watumiza igikoresho cyawe kikakwisangira mu rugo iwawe, wishyuye kuri interinete.

Vuba Vuba onurayini (online) shopingi(shopping), kimwe mukigo gishobora kuba cyakujyezaho ibikoresho, ibyo kurya muburyo bukoroheye. Aho ngaho ureba ibyo kurya bafite ukaba wabyishyura bakaba babikugezaho iwawe kugiciro kiza Kandi iki kigo kirizewe.

Hari uburyo bw'amasoko akorera ku ikoranabuhanga ari menshi mu gihugu ashobora gufasha abaturarwanda mu kugura ibicuruzwa bitandukanye yaba imboga, inyama, imitobe n'imbuto n'ibindi binyuranye, ukaba wabigura ukoresheje ikoranabuhanga.

Ubu hari uburyo bw'ikoranabuhanga aho bushobora kugufasha kugura ibicuruzwa bitandukanye, yaba ibiribwa mu masoko atandukanye cyangwa imyambaro inyuranye, aho ushobora guhitamo ibyo waba wifuza no ku giciro kikunyuze ukaba wabigura.

Ikoranabuhanga ryoroheje ibintu byinshi aho ushobora kugura ibintu bitandukanye ku mbuga nkoranya mbaga ku igiciro cyiza kandi bakunze gushyiraho imifuragiro ku bakiriya babo aho ugura ibintu ku giciro gitoya ugereranije n'abandi babicuruza.

Ubu ntibikiri ngombwa mu gihe ukeneye guteka udafite imbaraga cyangwa udafite uwagufasha guteka. Kuko hashyizweho uburyo bwiza ushobora gutumizaho ibiryo waba wifuza ku maresitora anyuranye mu gihugu bakaba babikugezaho mu rugo aho utuye nta kibazo.

HAri uburyo bwinshi bw'ikoranabuhanga ushobora kuguraho ibyo waba wifuza kugura byose, yaba ibikoresho by'ikoranabuhanga, imyambaro n'ibindi byinshi nk'ibiribwa n'ibindi binyuranye ku giciro cyiza, icyo usabwa ni ukureba niba biri ku giciro wifuza ukaba wabigura.

Hari amagare atwarwa n'abantu benshi yagenewe kugemurira abantu ibiribwa n'ibindi binyuranye mu ngo aho batuye. Aho babikura ku maduka atandukanye cyangwa amaresitora, bakaba babikugezaho mu rugo watanze imyirondoro yawe n'aho utuye, bikakugeraho nta nkomyi.

Ushobora kuba wagura ibiribwa, imbuto n'imboga zitandukanye bishobora kugufasha mu gutegura ibiribwa mu rugo ibyo waba wifuza byose ushobora kubigura ukoresheje ikoranabuhanga aho uhitamo ibyo ukeneye, ingano yabyo ukaba wakwishyura bakabigusangisha mu rugo.

Hari uburyo bashyizeho bwo korohereza abakiriya. Aho ushobora gutuma ibicuruzwa wifuza, yaba ibiribwa, ibikoresho byo murugo, imyambaro na ibindi byinshi. Ukaba wakuzuza imyirondoro yawe naho utuye, umuntu utwara ipikipiki akaba yabikugezaho murugo aho utuye.

Hari uburyo bwinshi bwashyizweho bwo kwamamaza ubucuruzi bukorera ku Ikoranabuhanga, yaba ku byapa biri ku mihanda, ibinyabiziga bitandukanye, aho usanga bamamaza serivisi yo gucururiza ku ikoranabuhanga, n'uburyo ushobora kubikoramo ku ukeneye kubigurira ibicuruzwa byawe ku ikoranabuhanga cyangwa kubigurisha.

Hari amasoko menshi cyangwa amaduka atandukanye ushobora kuguriraho ibicuruzwa yaba ibiribwa, ibikoresho byo mu rugo, imyambaro n'ibindi byose wakenera mu buzima busanzwe, ukaba wabigura ku giciro cyiza kandi bakaba babikugezaho mu rugo nta giciro na kimwe bagusabye.

Kimwe mu kigo gishinzwe cyangwa gikorera abanyarwanda aho usanga buri muturage cyangwa buri muturarwanda ashobora kuba yatumiza ikiribwa bityo kikamugeraho mu buryo bumworoheye kandi kikaza gifite umwimerere. Aho usanga ushobora kuba wakwishyura bakakikugezaho aho uri.

Ubu ni uburyo bugiye butandukanye bushyashya bikoreshwa mo imbere mu gihugu ndetse no hanze, aho usanga buri muturage cyangwa umuturarwanda ashobora kuba yatumiza ibiribwa, imyambaro, ibikoresho bigiye bitandukanye, abitumirije kuri interineti bakabimuzanira aho atuye iwe.

Uburyo bwo kuguriraho ibintu kw'ikoranabuhanga ushyiramo ibyo waba wifuza cyangwa akazi waba wifuza aho utuye ukaba wagura ibyo wifuza bakabikugezaho mu rugo kubyohereza wishyura amafaranga y'urugendo.

Abantu benshi bakunze gucuruza ibintu binyuranye ku mbuga nkoranyambaga. Aho usanga ibicuruzwa byabo bicuruzwa ku giciro gitoya ugereranyije n'abandi bacuruza ibindi bintu bitandukanye, byaba ibiribwa cyangwa imyambaro murakoze.

Safi ubu ni uburyo ushobora kuba watumizaho igikoresho cyawe kikakwisangira iwawe, bitewe n'ingano y'amafaranga wishyuye uhabwa igikoresho gifite ubuziranenge ndetse iyi kampani irizewe iki kigo kirizewe.

Vuba vuba ni kimwe mu kigo gikomeje kugenda gitanga serivise neza, aho usanga ushobora kuba watumiza ibiribwa bigiye bitandukanye kuri enterineti bakunze kwita kuri mudasobwa, ukaba wagezwaho ikiribwa ushaka bitewe n'amafaranga wishyuye, ubu buryo ni bwiza kandi birizewe.

Wagura imyambaro n'ibindi bintu byinshi ku mbuga nkoranyambaga aho usanga biriho n'ibiciro byabo, yaba amashati, imipira isanzwe, amapantaro cyangwa inkweto, byose urabihasanga ukaba wahitamo ibikunogeye bitewe n'amafaranga, ku giciro kiza ukaba wabigura.

Uburyo bwiza bwashyizweho aho ushobora kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga bakaba babikugezaho mu rugo aho utuye bitwawe n'amapikipiki yagenewe kugimurira abantu ibicuruzwa baguze mu mago aho batuye, icyo ukora ni uguhitamo icyo ukeneye ukaba wakwishyura ugatanga imyirondoro yaho utuye bakabikugezaho.

Hari uburyo bw'ikiranabuhanga ushobora kuguriraho ibicuruzwa bitandukanye, aho uhitamo umubare, amapaki cyangwa ingano waba wifuza, kuba wabigura ku giciro cyiza kandi kikunogeye, bakaba kandi babikugezaho mu rugo, cyangwa ukaba wajya kubigurira aho babicururiza.

Fedekisi, ni umushinga ufasha abantu kuba bakoherereza abantu bari mu mahanga, cyangwa bakaba bakohereza ibintu bitandukanye, yaba imyambaro, ibiribwa, bikaba byava mu mahanga, bakaba babigushyikiriza ku maposita ya Fedekisi ari ahantu hose mu guhigu, bitewe n'aho utuye.

Twitabire kwishyura dukoresheje uburyo bwizewe bwa emutiyene, kandi tubhgezwa uko abakozi bagenda batanga amabwiriza n'amahugurwa hirya no hino basobanurira abakiriya babo uko bayifashisha.

Abatwara amapikipiki bari mu gihugu hose, batwara abantu n'ibintu. Hari abashinzwe gutwara abagenzi bisanzwe, n'abatwara ibicuruzwa n'ibindi bintu abantu baguze, babibagezaho mu ngo aho batuye.

Ubu byaroroshye, aho ushobora kugura cyangwa kugurisha ibicuruzwa bitagusabye gufungura iduka, icyo ukora, ni ukubishyira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abakiriya babyifuza bakaba bakuzaba ibiciro, cyangwa ibindi bitandukanye, bakaba babigura.

Nk'uburyo bwiza bwo guteza imbere ibikorerwa iwacu, hashyizweho uburyo bw'ikoranabuhanga; aho ushobora kugurira ibicuruzwa bitandukanye: yaba imyambaro ndetse n'ibindi byinshi bikorerwa mu Rwanda ku giciro cyiza, waba uri umunyamahanga cyangwa umuturarwanda ukaba wayibona ku giciro cyiza.

Abashinzwe kugemurira bantu ibiribwa cyangwa ibindi bicururizwa abantu mu mago aho batuye bakunze gutwara amapikipiki bakunze kuba bambaye imyenda y'uwo mushinga bakorera abenshi bakunze kwambara icyatsi n'ibindi mabara atandukanye bitewe naho akorera.

ni kimwe mu kigo gishobora kuba cyakugezaho serivisi neza, aho usanga umuturage ashobora kuba yatumizaho umwenda bityo bakawumuzanira ahantu atuye akaba yabigezwaho n'umumotari cyangwa amapikipiki.

Hari uburyo bwashyizweho, aho ushobora kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga ku mbuga zitandukanye, ukaba wabigurira kuri murandasi ku giciro kinyuze; cyakora uhitamo ibyo ukeneye, ukaba waciririkanya n'umucuruzi, ukaba wabigura ku mafaranga yawe waba ufite, bitakunda ubwo ukaba washaka ahandi ubigurira.

Igura n'igurisha ryaba iry'ibicuruzwa cyangwa ibindi bitandukanye byarorohejwe, kuko hashijweho imbuga nyinshi ushobora kwamamazaho ibicuruzwa byawe ukaba waguriraho ibyo waba wifuza byose ku giciro ukaba wabibonera umukiriya bitagusabye kujya kubishakira aho babicururiza cyangwa uwabigura.

Urubuga rwifashishwa n'abatura Rwanda ndetse n'abandi baturuka mu bindi bihugu, aho usanga uyu muturage ashobora kuba yakishyura bityo akohererezwa igikoresho yatumije.

Aya nI amapikipi ashinzwe kugemurira abantu ibiribwa n'ibindi bikoresho byose bitandukanye baba baguze kw'ikoranabuhanga, bakabibagezaho mu ngo aho batuye; icyo ukora ni ukubitumiza ukoresheje telefone yawe ngendanwa, ugakurikizaho imyirondoro yawe bakabikugezaho mu rugo.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga aho ushobora kugura kugurisha ibyo waba wifuza gushakira abakiriya cyangwa ibyo waba wifuza gukoresha mu rugo yaba imyambaro ibiribwa cyangwa ibindi bikoresho byagufasha mu imirimo yo murugo nibindi bitandukanye ku giciro cyiza.

Uruganda ruzwiho gukora udukweto tw'abagore dukunzwe n'abanyarwanda benshi nitwo twashyizweho uburyo bw'ikoranabuhanga aho ushobora kugurira inkweto zabo ku ikoranabuhanga bakaba banazikugezaho mu rugo ziba ziri mu bwoko butandukanye baguha bitewe nizo wifuza.

Ubu byaroroshye, aho ushobora kugura ibicuruzwa bitandukanye: yaba imyambaro, ibikapu n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, yaba ku maduka akorera mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu, aho ubisanga ku mbuga zitandukanye n'ibiciro byabyo; ukaba wahitamo ibikunyuze ku giciro wifuza, ukaba wabigura.

Onulayini shopingi ni kimwe mu rubuga rukungahaye mu kuba rwatanga serivise nziza aho usanga buri muturage cyangwa muturarwanda ashobora kuba yatumiza amazi ya jibu cyangwa gaze bakaba bakabimugezaho yatanze aderesi.

Ushobora guhahira ku ikoranabuhanga ibiribwa bitandukanye. Yaba imbuto, imboga, ibinyamisogwe, ibinyampeke n'ibindi bitandukanye byose, ushobora kubigurira ku ikoranabuhanga ku biciro byiza, icyo ukora ni uguhitamo ibyo waba wifuza, ukaba wabyishyura bakaba babikugezaho cyangwa ukajya kubigurira aho bicururizwa.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, aho ushobora gukura serivisi zitandukanye, yaba ibicuruzwa waba ukeneye kugura cyangwa kugurishwa. Icyo ukora ni ukuba wareba ibyo ukeneye, ukaba wabituma.

Kimwe mu kigo gishinzwe kuba cyakugezaho ibikoresho bya elegitironike gikunze kwitwa bafure harimo ibikorwa birimo no gutanga murandasi aho usanga buri muturage ashobora kuba yatumizaho igikoresho cya elegitoronike bityo kikamugeraho mu rugo iwe aho atuye.

Kasha Online platform Shopping, ushobora kuba watumiza igikoresho cyawe, icyo kurya kikaba cyakugeraho iwawe wishyuye ku giciro cyiza. Icyo kigo kirizewe, gikorera mu Rwanda.

Hari uburyo bwiza bwashyizweho aho ushobora kugurira ibyo waba wifuza byose, kuwkoranabuhanga aho ujya ku mbuga nkoranyambaga zinyuranye, ukaba wagura ibyo wifuza kugiciro kikunyuze bakaba babikujyezaho murugo muburyo byihuse.

Abanyarwanda benshi cyangwa abanyamahanga bashyizeho uburyo bworoheye abakiriya babo aho ushobora kugurira ibiribwa kwikoranabuhanga ukaba wahitamo ubwoko bwibyo ukeneye, ugashyiramo imyirondoro yaho utuye bakabigusangisha murugo.

Ushobora kugura no kugurisha ibintu bitandukanye, yaba ibiribwa, ibinyobwa, imyambaro, ibibanza n'ibinyabiziga, ku giciro cyiza, ukoresheje ikoranabuhanga. Aho wabishakira abakiriya ukoresheje imbuga nkoranyambaga zagenewe gucururizwaho.

Online shopingi ni uburyo bwiza bworohereza abantu kuba batumizaho ibikoreshwa bigiye bigiye bitandukanye ushobora kuba wagura mobile tabureti , elegitoronike turuzi, windowuzi endi awuti dohizi, menizi fashoni, wumeni, bebi kepusi endi sipotsi kuburyo bigiye butandukanye n'ibiciro bigiye bitandukanye.

Iduka Online ni uburyo bwashyizweho n'abanyarwanda aho ushobora kugura ibyo waba wifuza byose ku ikoranabuhanga kuko uru rubuga rukorana n'amaduka menshi atandukanye aho ushobora kugurira ibintu byinshi ibyo waba wifuza byose urabihasanga.

Hari uburyo bwinshi bw'ikoranabuhanga waba ushobora gukoreraho ubucuruzi; waba ukeneye kugura cyangwa kugurisha ibintu bitandukanye; ibyo waba ufite byose ushobora kubishyira kuri izo mbuga, ukaba wabishakira umukiriya bakaba babigura bitagusabye gufungura amaduka cyangwa ahandi hose wabicururiza.

Igihugu cy' Ubushinwa n'ibindi byinshi biri kuri uriya mugabane byashyizeho uburyo ushobora kugurirayo ibicuruzwa byawo ukoresheje ikoranabuhanga bakaba babigusangisha mu gihugu cyose waba utuyeho, icyo ukora n'uguhitamo ibyo ukeneye, umubare w'ibyo ukeneye n'aho utuye bakaba babikugezaho.

Mu minsi mikuru amaduka menshi y'abakorera ku mbuga nkoranyambaga n'amenshi atandukanye, akunze gushyiraho umufuragiro ku bakiliya babo, aho usanga ibicuruzwa ibiciro byayo byahananduwe, bifasha abakiliya benshi babagana kuba batangira umwaka bishimye kandi bakizihiza iminsi mikuru neza.

Urubuga rushobora kuba rwakwifashishwa n'abaturarwanda aho usanga buri muturage utuye u Rwanda ashobora kuba yatumiza igikoresho cyangwa ikintu akeneye bityo urwo rubuga rugufasha kuba wagerwaho n'icyo gikoresho cyangwa icyo kintu watumije kuri urwo rubuga.

Local farmers nirumwe mu urubuga rushobora kuba rwakifashishwa n'abaturage batuye mu Rwanda. Aho usanga buri muturage ashobora kuba yagura imbuto, ibirayi n'ibindi biribwa bishobora kuba byafatwa n'abantu kuba babirya mugihe babikebeye. ushobora kuba wakishyura bikakugeraho iwawe utagiye kw'isoko.

Duniya ni ikigo gishinzwe kugeza abaturage kikabagezaho ibikoresho bigiye bitandukanye aho ushobora kuba wabitumiza bakaba babikugezaho ku buryo bworoshye ukaba wakwishyura ukoresheshe nimero baguhaye ndetse ibyo biryo cyangwa ibyo bikoresho bikaba byakugeraho iwawe aho utuye.

Abanyarwanda bashobora kuba batumizaho ibikoresho bigiye bitandukanye aho usanga ushobora kuba wakwishyura mbere ndetse ukaba wagezwaho ibikoresho watumije.

Serivise ya vubavuba yaje ikenewe mu gihugu kuko ifasha abaturarwanda benshi mu kugemurirwa ibiribwa no kubitunganyirizwa bakaba babibagezaho mu rugo bimeze neza ku giciro kiza kandi kinogeye buri muntu.

Vuba vuba ni ikigo gikorera kuri interineti aho usanga umuturage utuye m'u Rwanda ashobora kuba yatumiza ibyo kurya bityo bikamugeraho mu buryo bworoshye kandi bikamugeraho byizewe binafite umwimerere.

Ngubu uburyo aho umuntu ukugemurira ibiribwa cyangwa ibicuruzwa waguze ashobora kubigusangisha murugo aho utuye, icyo ukora umuha icyerekezo cyawe ku ikarita y'igihugu aho ashobora kuza ayobowe na telefone ye akaba yakugeraho murugo.

Safi ni uburyo buri muturage utuye u Rwanda ashobora kuba yatumizaho igikoresho ke bityo agashyiraho ahantu atuye akanishyura amafaranga bityo ibyo bikoresho bikaba byamugeraho aho yituriye atagiye ku isoko mu buryo bumworoheye.

Ikoranabuhanga ryashyizeho uburyo bwo kugura no kugurisha ibicuruzwa bitandukanye Yaba amaterefone, ibikoresho byikoranabuhanga imyambaro cyangwa ibikapu byose urabihasanga, Kugiciro kiza waba uri mu mahanga ubona amafaranga bitewe nayo igihugu cyawe ukoresha naho waba uri mu gihugu hose usangaho amafaranga bitewe naho utuye.

Ubu ngubu ushobora kuba watumiza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye bikagusanga iwawe. Ushobora kuba wakwishyura ukoresheje nimero baba baguhaye ugatanga ahantu utuye bityo ibiryo bikakugezwaho igihe kiza, igihe gikwiye bityo ukabirya cyangwa ukabisangira nabawe ukizihirwa.

Uburyo bw'ikoranabuhanga buhanga. Ushobora kuhagurira ibiribwa, ibinyobwa, ibikoresho byo mu rugo, imyambaro, ibikinisho by'abana ndetse n'ibindi bitandukanye, yaba abacuruza mu mahanga ndetse no mu Rwanda.

Ni kimwe mu kigo gishinzwe kuba cyageza abaturage amabaruwa avanye ahantu hamwe ayajyanye ahandi, aho ntitwasiba kuvuga ko ushobora kuba wageza ubutumwa ku bawe batuye ahantu kure.

leelars ni abantu bakorera kuri internet bashobora kuba bakugezaho ibikoresho byawe wibereye iwawe ushobora kuba wakwishyura ndetse ukabigezwaho bitewe na adresi watanze z'ahantu utuye ibintu bikakugeraho bityo bigatuma hizihirwa

Urubuga ushobora kuba watumiza ibiribwa ku buryo bugiye bukoroheye, aho usanga umuturarwanda yatumiza ibiryo bikunze kwitwa fasiti fudu, aho usanga bashobora kuba babikugezaho aho uri hose mu Rwanda, aho utanga aderesi ukushyura n'amafaranga bityo bakabikugezaho ku ipikipiki.